Ahantu heza mu kibaya hari abadamu batatu, umwe ari kumesera mu ibasi n'indobo, babiri bari kumufasha kubona amazi, bamuhagira kugira ngo amazi aze kuza kandi ayabone ameze neza.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane baturutse impande n'impande, baje gushaka serivisi barimo barasenga, bigaragare ko harimo abana batoya b'abakobwa, abasore bakiri bato cyane.

Igishararagati kimeze neza cyane cyahurijwemo abantu benshi batandukanye by'umwihariko abanyabuzima baje kugirwa inama ndetse n'uburyo bagomba kwita ku barwayi baje babagana bakabaha ubuvuzi bw'ibanze.

Umugore n'umugabo bicaye hanze, umugore ateruye umwana mutoya afite ibipapuro, umugabo yambaye bote z'umweru ari kugira inama umugore uburyo yakitwaramo kugira ngo umwana we akomeze agire ubuzima bwiza.

Abana batatu bari ahantu heza cyane, bari gukaraba mu ntoki, kandi bajya kungana, uruhumbo ruri kuvamo amazi bari gukaraba kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, baticwa n'indwara ziva mu kudakora isuku ku maboko.

Icyumba kirimo abantu benshi baturutse hirya no hino, harimo abagore, abagabo ndetse ndikubonamo abazungu ndetse n'abirabura by'umwihariko bigaragara ko hari ikintu cy'ingenzi baje kwigaho kandi bakurikiye umuyobozi uri kubabwira kugira ngo babashe kumva.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye baturutse impande n'impande ndetse hari n'inzego z'umutekano, hari imbangukiragutabara bari mu gisharagati ubona ko bashagaye, hari ikintu barimo bareba.

Icyumba cyiza cyane kandi kinini cyane kirimo abantu batandukanye gusa harimo abantu bane harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, imbere y'abagabo hari mudasobwa kandi hari n'ibyuma bibiri umugore umwe afite insakazamajwi ari kureba undi mugore mugenzi we kugira ngo baganire neza mumbi.

Ahantu heza cyane hadasanzwe hari umwana w'umukobwa muto wambaye umupira w'umutuku, ari guseka amwenyura ari ku mugezi, afite igikombe cy'icyuma, ari kuvoma amazi yo kunywa kugira ngo abashe gushira inyota.

Ahantu heza cyane hateraniye abantu bambaye impuzankano, bambaye imipira y'imituku ndetse amapantaro y'umukara, bari gutera, bari guhinga akarima k'igikoni kugira ngo barinde abana kuba barwara bwaki.

Ahantu heza cyane kandi mu nyubako nziza cyane, hateraniyemo abantu batandukanye aho baje kwaka serivisi z'ubuvuzi, bari kumwe n'abaganga bari kubafasha barimo barabapima amaraso, ibizamini by'amaraso kugira ngo barebe indwara barwaye.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano bari ku mugezi bagiye kuvoma. Bamwe bari gukaraba bari kuvomera mu cupa ndetse abandi bari kuvoma mumajerekani, kugira ngo birinde umwanda utazarwara indwara ziterwa n'umwanda.

Inyubako nini cyane yakirirwamo abarwayi, by'umwihariko b'abagore batwite, irimo umurwayi w'umugore utwite yambaye agapfukamunwa ndetse n'abaganga bambaye udupfukamunwa tw'umweru, bamushyize ikintu ku nda kugira ngo bumve ko umwana ahumeka neza, ataza gupfira mu nda.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi zitandukanye by'umwihariko z'ubuvuzi turi kumwe n'abantu babiri muganga ndetse n'umurwayi; muganga afite urushinge mu ntoki arimo kurutera umurwayi kugira abashe gukomera amerere neza.

Ahantu heza cyane hateraniye abantu batandukanye gusa ni batatu bari kumwe na muganga, umugore umwe yikenyeje agatambaro mu mutwe, muganga yamushyizeho igikoresho gipima umuvuduko kandi muganga na none yambaye ekoteri, yambaye n'itaburiya y'umweru, iruhande rw'uwo murwayi na none hari abandi bagore babiri bategereje ko babaha serivisi.

Inyubako nini cyane yakiriye abayobozi batandukanye baturutse hirya no hino, bari mu nama umuyobozi wabo abari imbere ari kubababwira icyabazinduye, imbere y'uwo muyobozi hari ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara yose.

Abagabo babiri bari mu cyumba kinini cyane kandi kigari cyane, bambaye bose amakoti y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, basuhuzanyije, umwe afite ibitabo mu ntoki, undi afite terefone, iruhande rw'umugabo umwe hari insakaza

Inyubako yahuje abadamu baturutse impande n'impande, bamwe bambaye amasengeri y'akazi abandi bikenyeje ibitenge, harimo umudamu ufite marete y'umutuku kandi iyo nyubako isakaje amategura.

Abantu baturutse impande n’impande zitandukanye, baje mu nyubako nziza cyane aho baje kwaka serivisi yo kwivuza. Ku buryo buri wese afate ikayi bamwanditsemo kugira ngo aze kugerwaho bamupime, bamenye uburyo rwayemo.

Inyubako nini cyane yakira abantu baturutse hirya no hino benshi batandukanye. Abasaza, abagore bahetse abana ndetse n’abagabo. Bicyaye mu gishararaga bose barahagaze abandi baricaye, bari kumvamva icyabazinduye kugirango ngo babashe kugira icyo batahana.

Inzu nini cyane yahuje abayobozi batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye aho baje mu nama mpuzamahanga kugira ngo baganire ku cyabateza imbere ndetse n'ubufatanye bwabo mu bucuruzi.

Inyubako nini cyane yakira abantu batandukanye baje kwivuza kuko ni kwa muganga, harimo umugore uhagaze ku munzani arimo arareba ibiro bye kugirango muganga aze kubasha kumuvura, yambaye agapfukamunwa ndetse yiteze n'agatambaro mu mutwe.

Umwana uri ahantu heza cyane, hari umugezi, ari koga mu maso ndetse no mu mutwe, afite umusatsi wikonjakonje, yasetse cyane, amenyo ye ni umweru, iruhande rwe hari ibindi bintu byinshi kandi birimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru

Ahantu hatuje gusa hari ishyamba ritari rinini hari umwana w'umukobwa wagiye kuvoma, imigezi ni ine arimo aravomera mu ijerirekani nini, iruhande rwe hari akabune gatoya kandi inyuma ye nanone hari ishyamba, afite umwitandiro w'umutuku urimo n'amabara yu'mweru.

Icyumba kinini cyane kirimo abagabo babiri bose bambaye amakoti gusa umwe yambaye amadarubindi, imbere yabo hari ameza ateretseho umuti w'amazi ndetse n'ibitabo bari kureba imbere bigaragara ko har abandi bantu bari kubwira gusa imbere yaho hari icyapa cyanditseho ko ari sudani y'amajyepfo.

Inyubako nini cyane kandi nziza irimo umugore wambaye agapfukamunwa, yikenyeje agatambaro katamye amabara mu mutwe bigaragara ko ari muganga, kuko yambaye impuzankano z'abaganga aje gufasha abarwayi kugira ngo akize ubuzima bwabo.

Ahantu hari abantu benshi cyane baturutse impande n'impande, bamwe bambaye ingofero abandi baritandiye ni abadamu bafite ibipapuro byanditseho by'umwihariko baje mu munsi mukuru wo kurwanya cyangwa kwizihiza ikintu runaka.

Umuryango munini cyane urimo abana batatu, bane ndetse na nyina wabo, akana gatoya kicaye mu ibasi nyina ari kugakarabya mu mutwe isabune undi arahagaze ahagararanye na murumuna we hari n'akandi kana k'agahungu kicaye gahagaze ku mugezi kari kureba uko nyina yoza umwana.

Ahantu heza cyane hateraniye abantu batandukanye barimo barafata amashusho kandi bavuye mu nyubako iberamo inama bavuye kumva icyo mugenzi wabo wabatumijeho yashakaga kubabwira.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse impande n'impande zitandukanye harimo abadamu bazanye abana babo ndetse hari na muganga urikubafasha muganga ateruye isahani irimo ibiryo yambaye amadarubindi ku mamaso kandi ayimara umwana ibiryo ari kumutamika

Inyubako nini iteraniyemo abagore, abana, ndetse n'abangavu batoya, inyubako ifite inzugi zishaje cyane z'imbaho, hari abantu babiri bahagaze imbere yabo babyeyi, umwe afite ikayi bigaragara ko ari kubasobanurira imyitwarire yabo n'uburyo bakwiye kwitwara muri ubu buzima nk'abamama ndetse n'abadamu.

Ahantu heza hateraniye abantu baturutse impande n'impande baje gushaka amazi harimo abana ndetse n'abasaza, gusa umusore muri bo arimo aravoma kuri nayikondo agapompa avoma amazi agwa mu ijerekani, iruhande rwe hari abana kandi iruhande rw'ijerekani n'akabuni gatoya.

Inyubako nini cyane yahuje abayobozi batandukanye baturutse hirya no hino kandi baricaye bari mu nama yo gushaka uburyo bahagarika icyorezo cya mabaga cyageze i Kigali itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, iyo nama rero ikaba irimo gutangwa n'umuyobozi w'umuzungu.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu bananutse n'umwana w'uruhinja, ni abadamu batatu, umudamu umwe aricaye ateruye akana k'agahinja; undi na we yicaye ku ntebe y'umweru arimo arasoma, hari n'undi uhagaze ugiye guha umwana umuti. Hirya y'umudamu uteru umwana kandi, hari akandi kana gatoya k'agakobwa kari kubarebe.

Ahantu heza kandi hatuje cyane, hari umudamu uteruye mwana, wikenyeje igitenge, umwana yambaye akagofero k'umweru, umudamu arimo aravomera mu ndobo kugira ngo agende age gukarabya umwana kandi umudamu yambaye siripa.

Ahantu heza cyane hateraniye abantu benshi batandukanye, abana, urubyiruko, abasaza ndetse n'abakecuru, bari ku mugezi baje gushaka amazi, buri wese afite ijerekani gusa hari umugore uri kubavomera, hari n'umwana ufite ijerekani uri kuvoma, abandi bahagaze ku murongo.

Inyubako nini cyane yicayemo abadamu babiri bameze neza, basetse banezerewe, umwe yiteza agatambaro mu mutwe, yambaye urunigi mu ijosi, undi ntako yiteze. Umwe yambaye impeta undi nta mpeta yambaye gusa yambaye isaha, bigaragare ko ari abayobozi bakomeye cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane baturutse impande n'impande zose z'igihugu bicaye harimo urubyiruko, abana bato, ndetse n'abagabo bakuze hari umugabo uri imbere y'umwana barimo barasuhuzanya barishimye cyane urabona ko abana bamwishimiye.

Inyubako nini cyane yahuje imiryango itandukanye iturutse hirya no hino ku isi, kugira ngo baze barebe ikibazo cy'ubuzima, mu buzima uburyo buhagaze. Ni inama yabaye bibiri na makumyabiri nagatatu, hari umuyobozi uhagaze imbere arikubagezaho imbwirwaruhame.

Ahantu heza cyane hari umwana wicaye usutaraye yayoboye amazi gusa hirya hari amajerekani imwe irapfundikiye, indi irimo umubirikira, indi yanditseho akantu k'umweru aricaye ari guseka yaje kuvoma kugira atahane amazi agire isuku nziza.

Icyumba kinini cyane kirimo abadamu babiri, umudamu umwe ateruye akana kambaye umupira w'umweru. Muganga yakasamuye ari kugaha umuti, muganga nawe yambaye impuzankano z'umweru kandi yambaye amaherena ku gutwi.

inyubako ngari irimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga bikoreshwa n'abarwayi batakibasha guhumeka kugira ngo babashe guhumeka, mu gihe umwuka wabaye muke muganga arabibambika kugira ngo umwuka wabo utabashirana bakaba bahaburira ubuzima.

Inyubako nini cyane yateranije abayobozi batandukanye kandi baturutse hirya no hino iri kwiga ku buryo bashobora kongera amafaranga mu buvuzi kugira ngo hatazagira umurwayi n'umwe ugira ikibazo cy’ubuvuzi ngo yabuze imiti cyangwa ubufasha.

Abadamu batatu bari ahantu heza cyane, babiri bari kunywa amazi bambaye n'udupfukamunwa ndetse imbere yabo hari n'amajerekani. Biragaragara ko baje kwirinda icyorezo cya Covid cumi n'icyenda kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ahantu hera cyane kandi hanini hari abagore, abagabo n’abana aho baje gushaka amazi yo gukoresha bafite amajerekani ndetse hari n’uri kubavomera aho buri wese aza yishyura amafaranga kugira ngo abashe kubona amazi.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi zo kwivuza, aho abantu baturutse impande n'impande baza gushaka serivisi. Hari abaganga babiri bipfutse mu mutwe, bambaye ga mu ntoki bigaragare ko bari kwirinda icyorezo cya Covid-19.

Icyumba kinini cyane cyakirirwamo abarwayi harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga mu ntoki, harimo umugore uteruye akana k'agahinja wikenyeje igitambaro mu mutwe akana k'agahinja muganga ari ku gatera igipfuko ku mutwe bishobora kuba kahuye n'ikibazo.

Ahantu heza mu kibaya hari amazi haba umugore uhetse umwana mu mugongo muhetse mu gitenge kandi akenyeye igitenge ari koza ibidomoro bitandukanye ibidomoro by'umuhondo by'umutuku ndetse n'ibyubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse impande n'impande zitandukanye. Harimo abagore, abagabo, abana bicaranye na muganga. Muganga yambaye itaburiya y'umweru arimo arafata ibizamini umurwayi umwe w'umukobwa, hari n'abahagaze bicaye ku ntebe y'abateruye abana ndetse n'abandi.

Ahantu heza cyane hameze neza hari abana batatu ndetse n'umudamu umwe baje kuvoma kuri marikondo, umwana umwe afite akabuni hasi hariho ikarayi ndetse undi arifashe yifashe mu mayunguyungu, umudamu kandi nawe yiteza igitambaro mu mutwe yambaye n'umupira w'umutuku.

Inyubako nyinshi cyane z'ubwoko butandukanye, ndetse ziri mu byatsi hari ikindi kintu kimeze nk'ikiziga kirimo amazi ndetse kiriho na sicariye bazamukaho bajya hejuru ahagana hakurya hari ikirere kimeze neza.

Ikibuga cyiza cyane kirimo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, hari umukobwa uri kuri kandagira ukarabe, yateretseho isafuriya kandi ari koga mu ntoki kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza atazarwara indwara zandurira mu mwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse ahantu hatandukanye harimo abagore abagabo ndetse n'urubyiruko; bambaye impuzankano, ingofero z'umukara ndetse n'imipira y'umweru. Usibye ko abagore na none bambaye amajipo bigaragara ko bari baje mu nama bakaba bayisoje.

Ahantu heza cyane hateraniye abantu benshi, hari ibiti byiza cyane, abantu bicaye mu gisharagati, hari umugore ubahagaze imbere afite igitabo ndetse n'indangururamajwi ari kubagira inama zigendanye n'ubuzima bwabo.

Ahantu heza cyane hari abana bane ndetse n'umugabo umwe baje kuvoma amazi afite amajerekani ndetse n'utubuni bari ahantu hahanamye cyane kandi bari kureba ndabona barangaye hari ikintu barimo gushaka bareba barangaye.

Inyubako nini cyane yakiriye abantu benshi batandukanye, baturutse hirya no hino abo bantu bose barahagaze bigaragara ko hari ikintu bahugiyeho cyangwa bategereje bari mu gishararati harimo abasaza, abagabo ndetse n'abasore, n'abakobwa baheretse abana ndetse n'abadamu bakiri bato cyane.

Ahantu bateraniye abadamu ndetse n'umwana umwe, bari mu ndobo bari gukaraba mu ntoki, abandi barahagaze gusa bari ku mugezi, umudamu umwe wambaye iherena rirerire ateruye indobo ariko yamunaniye kandi yambaye ishati y'umutuku, undi nawe ari gushaka kumuteruza.

Inyubako nini cyane yateraniyemo abantu batandukanye by'umwihariko urubyiruko imbere yabo hari amazi kandi bambaye udupfukamunwa haranda meza ariko ku ruhande hariba umukobwa ufite ikaramu bigaragara ko ari abantu baje kugira ikintu bigaho kugirango bagikemure kandi bafate umwanzuro mwiza.

Ahantu hari abantu benshi cyane batandukanye baturutse impande n'impande hari abana, urubyiruko, abasaza, hari n'umugore upfukamye imbere yabo ndetse n'undi musaza wambaye ipantaro yacitse ufite indangururamajwi ndetse bigaragara ko umuntu uryamye hasi arwaye icyorezo cya ebola kuko hari icyapa cyanditseho ebola.

Inyubako ngari cyane yateraniyemo abantu baturutse impande zose z'igihugu, hari abicaye ariko hari n'umugabo uhagararanye n'undi arikumubaza ibibazo ndetse anamubaza uburyo yamufashamo ndetse naho yakura ubundi bufasha akeneye.

Abana b'abanyeshuri bari ahantu heza cyane hari imikindo ndetse hakaba hari n'amazi bagiye kuvoma kandi bambaye impuzankano, bari kuvomera mu ndobo zimwe z'umweru, izindi ni umutuku ariko hari n'abari kuvomera mu tubuni.

Ahantu hakomeye cyane mu gishanga hari abana babiri, umwere yaje kuvoma akabuni undi utujerekani, umwana mukuru arimo arapopa nayikondo kugira ngo abashe guhunda amazi kuko ntabwo wayivoma udapompye.

Ahantu heza nyaburanga hari abantu benshi batandukanye abasaza, badamu ndetse n'abakobwa uko bigaragara kose bambaye impuzankano, bikenyeje ibitenge, abasaza bambaye ingofero bamwe baricaye, abandi barahagaze gusa baje kumva ko hari ikintu kingenzi bagezeho hari n'umudamu uteruye umwana bari kuganira ibyungura kandi bifitiye umumaro ubuzima bwabo.

Inyubako nini cyane irimo abantu batari benshi cyane harimo abagabo, abagore. Abagabo bamwe bambaye amakoti, imbere yabo hari za mudasobwa ndetse n'imiti yuzuye amazi bigaragara ko bari mu nama hari ikintu kizima bari kuganira.

Inyubako nini cyane yahuje abantu benshi batandukanye, barahagaze inyuma yabo hari icyapa cyanditseho, bari kumvamva ijambo ryabazinduye kugirango bashobore gutaha bishimye kandi bameze neza.

Umwana ari ku mazi ari gukaraba mu ntoki ari kuvoma kuri nayikondo yazanye ibidomoro bibiri biri bimufashe kuvuma akajyana maze mu rugo, aho buri wese ashobora kuyakoresha neza kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umwana w'umukobwa uri ahantu heza cyane hariho ibasi ndetse hari n'indoho hejuru kuri kandagira ukarabe, umwana w'umukobwa yambaye ikanzu ndetse n'ishati, iruhande rwe hari inzu ndetse n'ubwiherero gusa imbere na none hari amatafari yamenetse.

Inzu ngari kandi nini cyane, iteraniyemo abantu batatu, ibyo ari byo byose ni kwa muganga kuko hari muganga uri gupima umudamu wikenyeje agatambaro mu mutwe, ari kumupima umuvuduko, hari n'undi muganga w'umugabo uhagaze, iki gipapuro cy'ikigina kugira ngo bandikeho ibizamini barabona.

icyumba kinini kirimo abantu batandukanye abenshi ni abagabo bambaye amatab y'umweru, harimo umuzungu wambaye ikanzu y'umutuku kandi hari undi mugore umuhagaze iruhande nawe wambaye agace kamwe karimo umutuku, hasi harasa neza cyane bigaragare ko hari ikintu cy'ingenzi baje kuganiraho.

Inyubako nini cyane yateraniyemo abantu benshi baturutse impande n'impande, imbere yabo hari abantu bari kubigisha bicaye by'umwihariko hari ikintu cy'ingenzi baje kwigira hano kandi gikomeye.

Abana babiri beza cyane b'Abanyafurika, umwe n'umukobwa undi n'umuhungu, bagiye kuvoma bari ahantu hameze neza, bari kuvomera mu ndobo uw'umuhungu afite indobo ebyiri, uw'umukobwa afite indobo imwe ariko bose barishimye bigaragara ko banezerewe cyane, uw'umuhungu ari gufungura ariko uw'umukobwa arahagaze gusa.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu batatu batandukanye, harimo abaganga babiri ndetse harimo n'umukobwa urwaye, bose bambaye udupfukamunwa, muganga yashyize igikoresho gipima umuvuduko ku kuboko k'umukobwa, ari kureba uko umuvuduko we uhagaze. Imbere ya muganga hari mudasobwa, hari n'imiti yifashisha kugira ngo abashe gufasha umurwayi.

Ahantu heza cyane hameze neza kandi hatuje hari abantu batatu hari umuganga hari n'umusaza w’umusilamu yambaye ingofero y'abasilamu hari n'akana gatoya muganga yipfutse iminwa ndetse n'amazuru bigaragare ko yari arimo kwirinda covid cumi n'icyenda ari kubaza umusaza impamvu atambaye agapfukamunwa kandi ashobora kwandura covid.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi z'ubuganga, hari muganga arahagaze ndetse n'umurwayi aricaye ari kumubwira aho aribwa kugira ngo abashe kumufasha kumuvura.

Icyumba kinini cyane kandi cyiza kirimo abantu batatu harimo abaganga babiri ndetse n'umurwayi umwe wambaye agapfukamunwa na muganga yambaye agapfukamunwa, imbere yaho hari mudasobwa, umurwayi kandi bari kumupima umuvuduko kugira ngo barebe umuvuduko uko uhagaze.

Ahantu heza hari icyapa kiri mu ishusho y'umweru ndetse cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara bigaragara ko ari ikigo cy'isi yose gishinzwe ubuzima bw'umuntu.

Ahantu heza cyane hari abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, buri wese afite igikombe kandi bari kuvoma amazi mu kigega kugira ngo banywe bashire inyota, buri wese afite igikombe cye kandi kiri mu mabara atandukanye.

Ahantu heza cyane kandi hatuje hari umudamu wikenyeje igitenge wifubitse n'umupira, ari ku mugezi ufite impombo ebyiri afite n'amajerekani agera kuri atatu, izo mpombo zose ziri gusohora amazi ziyasuka mu ijererekani kugira ngo yuzure ubundi atahane amazi mu rugo.

Umukobwa munini cyane uri ahantu hatuje aricaye afite ijerekani iteretsemo amabase abiri, ibigaragara byose arimo aramesa yanitse imyenda, amapantaro, amakabutura ndetse n'imipira, yabyanitse iruhande rwe.

Abana bari ahantu heza cyane, abana benshi cyane bafite umuguni baje kuvoma umwe ari gupomba amazi abandi barahagaze bari ahantu mu kibaya ari kuvomera mu kabuni. Umwana umwe afite ubu buni bubiridafite kamwe abandi nta bu buni bafite.

Inyubako ebyiri kandi ntoya, ziri ahantu heza, zubatse neza, hari isize amarangi y'ubururu, hari umugabo uri hanze uhagaze mu mabuye, kandi iyo nyubako ifite uruzitiro runini, mo imbere harunzemo amatafari ahiye, bigaragara ko baza kuyahavana, kugira ngo bajye kubaka.

Ahantu mu misozi hahanamye imvura yangije, hari umukobwa ufite igitenge mu mugongo yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ari kumwe n'akana gato kicaye ku ruhande, kari kureba uburyo adaha amazi ayashyira mu ndobo.

Inzu nini cyane yahuje abantu batandukanye abagabo n'abagore ndetse n'abaganga barahagaze bari gufata amashusho kugira ngo babashe gutanga raporo ku babatumye kugira ngo bagaragaze ko bagezeyo.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivise zitandukanye aho abantu benshi baza baje gushaka serivise hari urubyiruko, abagore bafite abana, ndetse hari n'abaganga bari kubafasha kugirango ngo babashe kumenya neza ikibazo cya bo.

Ahantu heza hateraniye abantu batatu, baharunze ibicuruzwa bitandukanye, udufuka tw'umuceri, abagore babiri barateruye bari guhereza umugabo uri hejuru kugira ngo abashe kubipanga neza bitaza guhirima.

Inyubako nini cyane yahuje abadamu benshi batandukanye ndetse n'abana babo bafite imirire mibi, kugira ngo baze babahe igikoma kirimo intungamubiri, kandi babafashe kurinda kugwingira, aho na polisi y'igihugu yabyitabiye kugirango ize irebe ubuzima bw'abo bana.

Inyubako nini cyane iberamo serivisi zitandukanye abadamu babiri n'abagabo umugabo umwe ahagaze imbere ari kugira abadamu inama umudamu umwe yambaye agatambaro k'umweru mu mutwe undi yambaye agatambaro k'umukara mu mutwe undi ateruye mwana muto cyane w'amezi nk'atatu cyangwa ane.

Ahantu heza cyane hari imisozi, hari abadamu batatu bafite inkoni z'urubingo, umudamu wo hagati afite umufu kakikiye n'akana arimo aragaha ibere kugira ngo kabashe kugira ubuzima bwiza kandi hirya yabo hari n'urutoki.

Umugabo wicaye ahantu yambaye isaha ku kuboko ndetse yambaye n'igikomo ku kuboko kumwe, ahetse ibaga, yambaye ingofero mu mutwe, yambaye n'umupira w'imbeho, iruhande rwe handitse ko ugomba kujya gushaka muganga ukugira inama mu gihe wumva utameze neza.

Umugabo munini cyane uri iruhande rw'imodoka iseze irangi ry'umukara afite ibintu byinshi, yambaye imyenda yacikaguritse yisize irangi ry'mukara ntabwo ari kubasha kugaragara neza, afite agafuka faite ibaga ndetse afite n'inkoko mu ntoki.

Icyapa cyijimye ariko kitagaragara neza ku buryo ibintu byanditseho byose utabisoma ngo ubishobore, kiriho umusore ufite imisatsi ikaraze; yambaye amadarubindi, gusa ni icyapa kigaragaza ko gishobora kurangira abantu aho bajya kwivuriza uburwayi bwo mu mutwe, abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Inyubako nini cyane yahuje abantu batandukanye baturutse impande zose z'igihugu, urubyiruko, abagore ndetse n'abagabo, bari gufata amashusho batandatu b'imbere baricaye, abandi bose barahagaze, bari kureba uburyo bafatamo amashusho.

Icyumba kirimo umugore n'umugabo umugore yicaye ku ntebe n'umugabo yicaye ku ntebe kandi ameza abari imbere, bafite ikaye barimo barandika imbere yabo ku meza harimo umudimu ufite amazi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino mu mpande zose z'igihugu hari abantu benshi cyane hari umugabo Ubahagaze imbere, ahagaze ahantu heza yambaye ishati ifite amapesu ndetse ifite n'umufuka.

Icyumba kinini cyane cyakiriye abantu b'ingeri zose zitandukanye baturutse hirya no hino urubyiruko, abana, abagabo ndetse n'abagore baricaye ku ntebe bambaye imyenda itandukanye ntago isa, bari kumva icyo umuyobozi wabo abagezaho bamuteze amatwi yombi.

Icyapa kinini cyane kiri ku muhanda gishushanyijeho umuganga, kigaragaza ibyo bakora, amasaha bakorera kandi giherereye i Kigali ikindi kandi nanone bafite nomero zabo kuburyo ubashatse wabahamagara kuri izi nomero batweretse.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino, harimo abana, abagore, ndetse n'inkumi n'abasore, hari abafite amadarapo y'u Rwanda bayamanitse bayashyize hejuru, barishimye kandi bameze neza, bigaragara ko baje kwamamaza.

Inyubako nini cyane iteraniyemo urubyiruko rutandukanye rwaturutse impande n'impande bambaye imipiraumukara ndetse n'ikirango cy'u rwanda, imbere yabo hari umukobwa uhagaze ku muryango nawe yambaye umupira w'umukara, hari n'undi uhagaze kuwundi muryango uri gukinga wambaye ishati y'umweru.

Inyubako nini cyane irimo madamu Jeannette Kagame ari gutanga ikiganiro yambaye amadarubindi ndetse n'amaherena ku matwi, imbere hari insakaza amajwi ari gutanga ikiganiro kivuga ku buryo ubwonko bukennye budateza imbere sosiyeti.

Umukecuru ukuze cyane wambaye urunigi mu ijosi kandi afite iminkanyari, yikuyemo yambaye agatambaro k'umweru mu mutwe ku buryo umubonye ushobora kumwita umusazi.

Ahantu heza cyane hari ibintu bitandukanye, hari umugabo umeze nk'ingagi wagirango ni umusazi, yambaye imyenda yacikaguritse afite ibyanwa byinshi biboshye, ndetse n'umusatsi mwinshi uboshye, ntaheruka gukaraba, arasamye kandi ni igikara cyane

Umusore wigunze yicaye mu nzu wenyine, yicaye ku mukeka, afite iminyururu mu maguru, yifashe ku gahanga, yikenyeje igitenge kandi hirya ye na none hari ikindi gitenge, afite ibibazo byinshi cyane.

Inyubako nini cyane kandi ngari cyane yateraniyemo abantu baturutse hirya no hino batandukanye hari umugore ubahagaze imbere ari kubababwira iby'ingenzi byabazanye iruhande rw'uwo mugore kandi hari isakazamashusho ari n'ibara ry'umuhondo.

Umuntu uri ahantu afite akajagari hari ibintu byinshi ahetse ibintu byinshi nawe ubwe ntagaragara ni umukara afite imbunda mu ntoki hirya ye hari ipine y'imodokari n'ingorofani iruhande rwe rw'ibumoso harunze ibintu yambaye ikoti, yambaye ibintu byinshi atabasha gusobanukirwa.

Inyubako nini cyane, yateraniyemo abantu benshi batandukanye baturutse hirya no hino, barahagaze, bari gukoma mu mashyi, barishimye cyane ku buryo harimo n'umuzungu wambaye baji, gusa bameze neza, bahagaze nta wicaye ku ntebe, barimo baraseka cyane.

Icyumba cyiza cyane kimeze neza kirimo abantu babiri, harimo muganga ndetse harimo n'umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe, ari kumugira inama kugirango ubuzima bwe bukomeze kandi bumere neza ntiyihebe.

Ahantu hari icyapa gikomeye cyane, cyanditseho mu buryo butandukanye, bimwe byanditse mu mabara y'umukara ahandi ni ubururu, handitseho ko bikomeza ubwonko bwawe kugira ngo ubwonko bwawe bukomere.

Dutangiranye inyubako nini cyane imeze neza yubatse neza iteye amarangi kandi inafite amasima meza. Ni inyubako igaragara ko ari inyubako ijyamo abarwayi bo mu mutwe ndetse akaba no kwa muganga, aho abarwayi bo mu mutwe baza muganga akabitaho akabafasha kubavura ubwonko bwabo bugasubira ku murongo.

Ahantu hanini cyane hakorerwa ibikorwa bitandukanye, nko gukanika hari umugabo wicaye afite ipine yambara agasengeri, afite n'imisatsi ikaraze, hari n'abandi bagabo bamuhagaze iruhande, bambaye ingozi, bari kureba uburyo akanikamo imodoka.

Umudamu mwiza uri ahantu hameze neza cyane, afite imisatsi yambaye amadarubindi afashe n'agapapuro mu ntoki, kandi yambaye n'ikanzu yo mu gitenge, ikindi kandi yambaye urunigi rwiza cyane.

Icyapa cyanditse neza kandi cyanditse mu mabara atandukanye gusa cyanditse mu ibara ry'umutuku n'icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima no mu Rwanda cyanditseho ko ari icyapa cy'aho abana bivuriza ndetse n'abantu bakuru muri covide cumi n'icyenda mu Rwanda ndetse n'ibirenze.

Ahantu mu nyubako nini cyane hariho imbaho umugore n'umukobwa bicaye ku ntebe za karambarara umugore ari ngunze arihebye gusa umukobwa kumwihanganisha kugira ngo abashe kumugarura mu buzima busanzwe.

Abantu bari ahantu heza cyane birundiye hamwe by'umwihariko harimo abapolisi bashinzwe umutekano, harimo n'abandi bantu kandi badashinzwe umutekano, inyuma yaho hari icyapa kirwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abana.

Umukecuru ukuze cyane ufite amenyo y’umweru yambaye igitenge cya watembye ameze neza yasetse ariko nta mbaraga afite kuko yikenyeje agatambaro mu mutwe arishimye cyane kandi urabona ko ntakibazo na kimwe afite.

Ahantu heza cyane hari inyuma yigikuta hicaye umusore wambaye inkweto z'umukara n'umupira w'umutuku aricaye arigunze ari wenyine nta muntu bari kumwe inyuma ye hari igikuta cyanditse amagambo y'umukara kandi imbere ye hari umufuka w'umweru.

Umukobwa mwiza cyane ufite umusatsi w'umukara yamwenyuye rwose yambaye umupira w'umutuku nikanzu yikigina ahagaze ahantu hameze neza hari urubaho ndetse hari n'ibyuma bimeze neza cyane.

Icyapa cyiza cyane gishushanyijeho umutwe w'umuntu, hariho na muganga bigaragara ko muganga ari kureba indwara zo mu mutwe kubera ko cyanditseho ko ari umunsi w'impuzamahanga ku Isi yose wabaye bibiri na makumyabiri na gatatu wo kurwanya ndetse no kwirinda indwara zo mu mutwe.

Inyubako nini yabereyemo inama y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, hari umugore ufite indangururamajwi, hari n'umugabo umwicaye ku ruhande. Umugore ari kubabwira ingamba zafatwa kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza.

Urubyiruko rw'abasore rwaturutse impande n'impande, hari umusore ubahagaze imbere ari kubigisha uburyo bakiteza imbere, hari n'undi mudamu ubicaye inyuma ufite igikapu ku meza, bigaragare ko bari kumva neza ibyo uyu muntu ababwira.

Umusaza ukuze ariko adakuze cyane, yambaye imyenda yacitse yiziritse ibintu kumaboko asa n'uwicaye, wagira ngo ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari ahantu hadasekeje cyane ahantu hashaje, ruguru ye hari undi mugabo wicaye ku igare yambaye inkweto z'umukara ndetse n'ingofero n'ishati y'umweru.

Umuntu uri ahantu hari abantu benshi usa n'ubari imbere, yambaye ingofero yumukara kandi yo mu bwoya yipfutse mu maso agatambaro k'umweru ntabwo agaragara mu maso.

Umusore wasetse kandi wizihiye afite amenyo y’umweru yikuye kandi afite ubwanwa bwinshi cyane afite akadodo ari kugenda akanyuza ku menyo ye ashaka kugaca akoresheje amenyo kugira ngo arebe niba amenyo ye atyaye.

Icyumba cyiza cyane kirimo abantu babiri harimo umwana uryamye yasetse byumvikane ko arwaye amenyo, muganga arimo aramufata agakuraho iminwa kugira ngo amwereke iryinyo rirwaye kugira ngo abashe kurikura.

Umwana muto ariko utari muto cyane uri ahantu hameze neza yambaye ishati ymweru afite uburoso arikoza mu kanwa kugirango amenyo ye akomeze ase neza, kandi agirira akanwa isuku ibyo byamufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Inzu nziza cyane yakirirwamo abarwayi, hari umwana urwaye ari kumwe n'abaganga bari kumwitaho bafite udushinge umwana yasetse ashobora kuba arwaye iryinyo bagiye kumuvura, yambaye ikintu mu ijosi, bagiye kumuvura iryinyo kugira ngo abashe gukira.

Umusore wikuye ufite utwanwa dukeya ari mu nyubako y'umunyemisozi ifite amarangi y'umweru, yasetse cyane afite amenyo w'umweru, kandi afite n'ishinya y'umutuku afitemo akadodo mu menyo ari gushaka kugaca.

Icyuma kimeze neza cyane kandi kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga harimo intebe y'abarwayi harimo mudasobwa ifasha muganga kandi harimo intebe ifite amapine y'umukara asunika kugira ngo umurwayi abashe kugenda.

Icyumba cyiza cyane kimeze neza kirimo abantu babiri bigaragara ko ari icyumba cyakirwamo abarwayi, uwo murwayi afite imisatsi ikaraze ari kumwe na muganga, muganga yambaye agapfukamunwa, umurwayi araryamye, muganga agiye kumufata amuvura iryinyo kugira ngo abashe kumera neza.

Icyumba kiza cyane kirimo umukobwa ufite imisatsi myinshi cyane, afite n'uburoso ari koza amenyo, yasetse amenyo ye ni umweru yambaye isengegeri y'umweru, ari kwireba mu kirori.

Inyubako nziza kandi ngari iri ahantu hasamaje cyane, harimo abantu babiri harimo umumama n'umwana, mama yasutse ibituta, bose bafite inyinya kandi bose bafite akadodo mu kanwa, bigaragara ko bashaka kugaca gusa barishimye cyane.

Umugabo uri ahantu hatuje cyane, yasetse kandi afite amenyo y'umweruru, afite n'ubwanwa bwinshi ahantu hose, yambaye umupira w'umukara, byumvikane ko yishimye kandi ari ahantu hatuje.

Inyubako nini cyane irimo umukobwa wicaye ufite imisatsi, yamwenyuye yambaye amaherena, afite kandi indorerwamo arimo ari ireba mu menyo, kugira ngo arebe ko amenyo ye ameze neza kandi ntakibazo afite.

Icyumba kinini cyane kandi cyiza kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga byifashishwa bari gukura abantu barwaye amenyo kugira ngo ayo menyo atagumya kuba ikibazo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inzu ngari irimo abantu batarenze babiri harimo: muganga ndetse n'undi uri kumufasha bafite igishushanyo cy'amenyo bari gushaka kwiga uburyo bakura amenyo, muganga yambaye isaha gusa hino yaba imbere yabo hariho na mudasobwa ibafasha kureba ibyo bari gukora niba babikora neza.

Icyumba kirimo muganga yambaye ga z'umutuku afite agashinge, kandi afite n'amenyo ari kuyakura kugirango abashe kumera neza bivuze ngo ni umuganga w'amenyo.

Inyubako nini cyane iteraniyemo urubyiruko rwaturutse impande n'impande, bari kwiga ndetse banafata ingamba z'uburyo bakwiteza imbere, bakavana amaboko mu mifuka bagakora.

Umusore uri ahantu heza cyane, yambaye umupira w'umweru afite akadodo mu menyo yasetse cyane amenyo ye ni umweru, gusa afite umusatsi muke kandi none ameze nkaho ahumirije.

Umusore ufite inzara nziza z'umweru wikuyemo afite isume ku rutugu, afite akadodo yakazingiye ku ntoki ze ebyiri akanyuza mu menyo kandi ari gushaka kugaca kugira ngo agatandukanye.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi hari abaganga babiri umwe n'umukobwa undi n'umuhungu, umukobwa yambaye amadarubindi ndetse bose bambaye udupfukamunwa bari kwita ku murwayi ashobora kuba yaratokowe baragira ngo bamutokore barebe ko amera neza.

Inyubako nini cyane, iri ahantu heza cyane, harimo abakobwa babiri bari koza amenyo yabo kugirango birinde indwara zishobora kuba ziterwa no kutoza amenyo, afite uburoso n'imbere hari imiti y'amenyo.

Icyumba kiza cyane kandi kinini cyane, kirimo abantu batatu, barimo umukobwa umwe ndetse n'abahungu babiri, bose bambaye imipira y'imyeru, umukobwa afite umusatsi w'umukara kandi mwinshi cyane, bose bamwenyuye, umuhungu yafashe umunwa we arawukurura.

Abana bato b'abanyeshuri bafite uburoso bari koza amenyo, bafite n'ibikombe birimo amazi bari koza amenyo kugira ngo birinde indwara zandurira mu kutoza amenyo kandi bahorane isuku.

inyubako nini cyane yicayemo umusore umeze neza cyane yambaye agapira k'umweru ari guseka afite umusatsi mwiza cyane ndetse n'amenyoyo ye n'umweru afite n'ikaramu mu ntoki bigaragara ko yishimye cyane kuko ngira ngo serivisi yahawe irahagije ni nziza cyane.

Icyumba kinini cyane hateraniyemo abantu batandukanye, bambaye imipira y'ubururu gusa bari kumwe n'abaganga bari kubafasha kubakura amenyo, imbere yabo hari imiti y'amenyo kugira ngo bazabashe koza amenyo yabo neza.

Ahantu heza cyane hari igishushanyo cy'umukara kitagaragara neza ariko ni igishushanyo cy'amenyo ashobora kuba arwaye, amwe yaravungaguritse andi nti yavungaguritse ubwo rero ni uburyo bwo kugira ngo twozwe amenyo yacu kugira ngo azirinde kuyavangagurika.

Inzu nini cyane ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi, abaganga babiri bari gufasha umwana muto cyane bambaye agapfukamunwa k'umutuku arwaye amenyo, umuganga ari kumukura iryinyo kugira ngo uburibwe ntibwongere kugaruka.

Inyubako nziza cyane igaragara nkaho ari kwa muganga, haririmo abantu babiri umukobwa umwe araryamye muganga nawe afite udushinge tubiri, yambaye na ga ebyiri arimo arakura umurwayi iryinyo kugirango ritazongera kumurya ukundi.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu batandukanye harimo ikiba cy'umukara ndetse harimo n'umwarimu n'umunyeshuri atariri kumwe n'abandi bantu batatu bafite iryinyo ari kwigisha umwana uburyo iryinyo cyangwa amenyo akorerwa n'isuku kugira ngo atazarwara indwara ziterwa n'umwanda, ni umwarimu wo muri kaminuza y'u Rwanda uri kwigisha uwo mwana w'umunyeshuri.

Ahantu hameze neza hari abantu babiri batandukanye ha hari umugabo umwe arasamye, hari na muganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umweru bigaragare ko ari muganga w'amenyo ari kuvura umugabo urwaye iryinyo, kugirango ngo arikure ritazongera kumurya.

Umugore n'umugabo bari munzu nini cyane kandi bishimiye, umugore ntabwo yisukishije, yambaye amadarubindi, ari kumwenyura kandi afite amenyo y'umweru, kandi umugabo na we yamurambitseho umusaya ku gahanga.

Inyubako nini cyane kandi ngari, irimo umusaza umwe yambaye akantu gatotuma umuvuduko w'ukuboko arimo kureba aho umuvuduko ugeze kugira ngo n'iwumutera amenya umuvuduko wahagarare yicaye ku ntebe imeza neza cyane.

Umukecuru munini cyane ubyibushye, yambaye umupira w'ikigina, yambaye iherena ku gutwi, afite ikirahuri cy'amazi ndetse n'ikinini mu ntoki, afite uruhara, agiye kunywa imiti kugirango yivure amere neza.

Icyumba cyiza cyane kirimo abantu batandukanye, kirimo umusaza ndetse n'umukobwa w'inkumi, umusaza yamwenyuye afite imvi, yambaye ikanzu y'umukara ndetse n'umipira, umukobwa nawe yamufashe ukuboko baricaye bameze neza barishimye cyane.

Inyubako nini cyane irimo abantu babiri umukecuru ndetse n'umwana we bose barisukishije, umukecuru yambaye amaherena mu gutwi, bicaye mu ntebe z'imifariso bari muri salo, inzugi z'umweru barahagaze kandi baramwenyura cyane umukobwa yambaye isaha nziza cyane.

Ahantu heza cyane hari abantu batanu, hari umukecuru n'umusaza, abana babarimo hagati, umukecuru yambaye umupira w'umweru, afite imvi z'umukara, abana nabo, hari umukobwa wasetse cyane, imbere hari akandi kana gatoya, na ko kamwenyuye, gafite imisatsi, hari n'umusore uri hirya ufite imisatsi myiza, kandi umukobwa nawe afite imisatsi y'umukara, bigaragaza ko bishimye.

Inyubako nziza cyane irimo abantu babiri, irimo umuganga ndetse n'umurwayi uri kwiga kugenda muganga ari kumufasha kutambutsa kugira ngo amaguru ye areke guhinamirana yari amaze iminsi atabasha kugenda.

Ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza bumeze neza hari abagabo babiri bambaye imyenda hejuru y’umweru, hari nundi mugabo ufite umupira w’umukara mu rutugu, ndetse n’umudamu w’amazi umugabo kandi yasetse imbere yabo hari igikoresho banagamo imyanda.

Inyubako nini cyane y'ubucuruzi irimo umusaza n’akana gatoya umusaza ateruye akana gato gafite igikinisho mu ntoki kari kumureba mu maso cyane umusaza yafunze umunwa.

Inyubako nini cyane irimo abantu babiri b'abasaza ndetse n'umukecuru, imbere yabo hari ahantu heza, umukecuru afite agapapuro umusaza nawe afite agacupa karimo imiti, bafite n'imiti mu ntoki barimo barasoma uburyo banywa ino miti.

Ahantu heza cyane hari abantu batandatu batandukanye, gusa ni kwa muganga, reba umukobwa uri gusunika umusaza ku kagare, umusaza ararwaye, ari kumujyana ku buriri kugirango abashe ku kuryama. Ari kumuha serivisi nziza.

Icyumba kinini cyane kirimo umusaza n'umukecuru bambaye imyenda itukura; umukecuru yambaye isaha ku kuboko, umusaza nawe yambaye amadarubindi mu maso; umukeru kandi nanone yambaye urunigi, umupira urimo uburongo bw'umukara; imbere yabo hari ibinini, umusaza ari gutoranyamo ikinini cyo kurya.

Inyubako nini cyane irimo abantu babiri harimo umukecuru uri guseka uri kumwenyura afite amenyo y'umweruru kandi afite imvi z'umweruru cyane, ari kumwe n'umukobwa nawe wamwenyuye kandi yisukishijeje, bambaye bose imyenda itandukanye umwe yambaye ikige undi yambaye umweru.

Abantu batanu bari ahantu heza hameze neza, babiri bambaye impuzankano zisa, uri imbere yambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, umuri inyuma nawe yambaye ipantaro ndetse n'undi wa gatatu afite agapfukamunwa mu ntoki bari ahantu heza cyane bigaragare ko agiye mu myitozo ngororamubiri.

Inyubako nini cyane itangirwagamo serivisi zitandukanye, harimo abantu babiri umukecuru wibicaye ku kagare na muganga, arimo aramufasha neza kumureba umuvuduko w'amaraso ye, kugira ngo amubwire uburyo yakwitwaramo kugira ngo umuvuduko we ugende neza.

Umukecuru uri ahantu heza cyane hakorerwa imyitozo ngororamubiri yasetse afite utwuma tubiri buri kuboko gafite akuma kamwe n'akandi kamwe afite imisatsi y'umweru ny'imvi yambaye agapira k'umweru ndetse n'umupira w'inyuma w'umutuku ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira agire ubuzima buzira umuze.

Inyubako nini cyane yahuje abantu batari benshi ndetse mu muryango bari kumwe na muganga harimo musaza n'umukecuru bafite imvi hari n'abandi batatu bicaye inyuma yabo barimo bararya barasangira barishimye cyane muganga yambaye n'amadarubindi.

Ahantu heza cyane kandi hatuje mu busitani hari igiti cy'umwembe, hari abantu babiri, hari umusaza ndetse n'umukobwa bose bambaye udupfukamuwa, umukobwa yafashe ishati y'ikigina y'umusaza ari kuyifungura ari kumufasha kuyimufungira kugira areke kugenda yambaye ubusa mu nzira.

Abagabo babiri bar'ahantu heza cyane, umugabo umwe arashaje ariko ntabwo ari cyane, undi n'umusore, Umusaza afite ubwanwa bw'umweru, hirye ye har'akabati kameze neza bafite umugozi w'umuhondo barimo barawukurura kugira ngo babashe gukomera.

Inzu iri ahantu heza cyane hatuje ndetse harimo abantu babiri umusaza ndetse n'umukobwa we, umusaza yicaye ku kagare umukobwa we arikumwumva yamuteze amatwi, umusaza ari kumureba mu maso, umusaza yambaye imyenda isa kandi myiza umukobwa yambaye imyenda isa n'iy'umusaza.

Inzu nini cyane ikorerwamo serivisi zitandukanye, by'umwirariko serivisi z'ubuvuziri. turi kumwe n'abantu babiri, muganga w'umukobwa ndetse ari kumwe n'umugabo ugaragara nkaho arwaye ariko atabashaga kugenda. Inyubako irimo ibikoresho by'abarwayi aho baryama mu gihe barwaye. Umusaza ari kwiga gutambuka, kugenda; muganga ari kumwerekera uko bikorwa.

Umukecuru n'umwana we bishimye cyane, umwana ari kwereka umukecuru uburyo akuma gaterurwamo iyo barimo gukora imyitozo ngororamubiri, umukecuru wambaye amaherena ku matwi kandi bishimye, afite imvi nyinshi cyane.

Inyubako nini cyane irimo abantu babiri harimo umusaza ndetse na muganga bigaragara ko ari kumuha muti, imbere y'umusaza hari mudasobwa kandi umusaza yarambuye ikiganza kandi afite n'ubwanwa bw'umweru.

Icyumba cyiza cyane kirimo abantu batatu, umugore ndetse n'umugabo n'umusaza barimo hagati, umusaza ararwaye yicaye ku buriri ariko baramuhagurutsa, afite imvi bigaraga ko atabasha kwijyana wenyine.

Urugo runini rwiza cyane rurimo umukecuru n'umusaza, umusaza ufite ubwanwa bwinshi cyane bw'umweru, ndetse afite n'igikombe k'ikirahure arimo aranywa, umukecuru nawe ahahagaze imbere yambaye amadarubindi ndetse n'ikanzu.

Icyumba giteye neza cyane cyicayemo abantu babiri bari kuganira, hari muganga n'umusaza ufite imvi ariko zitari nyinshi, muganga yambaye imyenda y' umweru umurwayi nawe yambaye ishati, bari gusoma kandi muganga afite ikaramu yarambitse hasi, bigaragara ko aribyo ari kwereka umurwayi kugira ngo abisobanukirwe.

Inzu nini cyane irimo abantu baturutse impande n'impande zitandukanye, hari umugore uhagaze ari kwita ku bantu bakuze, abakecuru n'abasaza ari kubaha imiti kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza kandi bumve bakomeye.

Icyumba kinini cyane kirimo akana gatoya ndetse na nyina wako, yambariye umupira w'umweru yasetse imbere hari ameza, harimo amasaro, ari kwereka umwana amabara agizwe n'amasaro kandi inyuma y'umwana hari akabati k'umweru gateretsemo insakazamashusho.

Umusaza n'umukecuru bari mu nzu nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye, gusa barimo bararya, barishimye cyane barimo baraseka. Umukecuru yambaye urunigi mu ijosi, bari kurebana cyane.

Inyubako nini cyane kandi nziza irimo abantu babiri irimo muganga ndetse ikabamo n'umukecuru ugaragara nk'aho arwaye muganga arimo guha umukecuru imiti amwereka uko iribwa umukecuru kandi afite amazi imbere ye yo kumanuza imiti kugirango imiti itamuniga.

Icyumba cyiza cyane kirimo abantu babiri kirimo umusaza ndetse n'umukecuru baricaye imbere haba hari ameza ndetse umukecuru afite urupapuro barimo barasoma, umukecuru yambaye impeta ebyiri kuboko kumwe no ku kundi yambaye impeta imwe barasoma bishimye baragira ngo abone inama n'uburyo banywamo imiti.

Ahantu heza mu ishyamba hari ibyatsi bimeze neza mbese hari amahumbezi, haba umusaza n'umugabo bameze neza basetse, umusaza yambaye ingofero bakandagiye ku makaro bigaragara ko bishimye cyane.

Mu muhanda mwiza cyane hari ubusitani bumeze neza harimo abantu babiri harimo umusaza ndetse n'umukobwa mukuru ufite ibaga mu ntoki ndetse ahetse n'indi mu mugongo ari gufasha umusaza kwihuta, umusaza yambaye furari mu ijosi.

Icyumba kinini cyane kirimo umusaza wasetse yambaye umupira, ipesi rimwe yarifunguye ari kureba undi muntu wambaye umupira w'umweru gusa ntabwo agaragara neza, imbere ye hari ameza bari gukina igisoro kandi bigaragara ko bishimye cyane.

Inyubako nini cyane yateraniyemo abasaza n'abakecuru baturutse impande n'impande zitandukanye, bafite inkoni bigaragara ko bakuze cyane, harimo umukecuru wambaye amadarubindi, harimo kandi n'umusaza w'umuyisilamu wambaye ingofero y'abayisilamu bose bicaye ku mifariso myiza cyane.

Abadamu babiri bari mu busitani bumeze neza cyane, umudamumu umwe yambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe, umupira muremure w'umukara kandi undi mudamu na none yamwenyuye yasetse, yambaye na we umupira w'umukara ndetse urimo n'ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara.

Inyubako nini cyane ikoreramo serivisi z'ubuvuzi, hari umukobwa wumuganga ndetse ari kumwe n'umusaza ufite imvi cyane kandi umusaza yambaye amadarubindi ari kumwnyura cyane, ari kumupima umuvuduko w'amaraso kugirango arebe niba uhagaze neza.

Icyumba kigari cyane kirimo abantu babiri, kirimo umukecuru ndetse n'umukobwa, umwe yambaye umukara ndetse umukecuru afite akagozi arimo arakurura, muganga ari kumwereka uburyo bakurura kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Ahantu heza cyane kandi hatuje hari abantu babiri. Hari umukecuru wicaye hasi ufite imvi kandi zitari nyinshi ari kumwe na muganga wambaye imyenda y'umutuku ndetse n'agapfukamunwa n'amadarubindi mu maso kugirango abashe kumwitaho arima amufata ibizamini.

Inyubako nini cyane irimo umurwayi uri kwa muganga wambaye ibirenge afite ibyuma arimo serumu ari kwitsindagiza kugirango abashe kureba ko yabasha kugenda agakomera.

Ahantu heza cyane hari ubusitani kandi hatuje hari abana ndetse n'abasaza n'umugore n'umugabo bishimye basetse, umusaza afite imvi nyinshi cyane ziri mu bwanwa ndetse no ku musatsi hose, umugore umwe nawe afite umusatsi mwinshi, abana babahetse mu mugongo bishimye cyane.

Inyubako nini cyane irimo abantu babiri irimo umukecuru ufite imvi nyinshi ndetse na muganga basuhuzanyije muganga arimo aramugira inama uburyo yakwitwara kugirango yirinde indwara iyo ariyo yose.

Umudamu udakuze cyane wicaye kumukeka ari gukora imyitozo ngorora mubiri yambaye supuresi y'umweru afite imisatsi y'umweru yambaye ndetse n'agasengeri k'icyatsi kibisi iruhande rwe harimatera isa neza ndetse n'imisego yo kwisegura iyo aryamye.

Inyubako nziza cyane iri ahantu hatuje cyane irimo abantu babiri harimo umwana ndetse na se, se ariko bigaragara ko agiye gusaza yatangiye kumera imvi, yambaye rinete afite na kamera mu ntoki umwana nawe afite camera bari kurebana umwana afite umusatsi mwinshi cyane kandi yicaye ku ntebe z'imifariso.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse impande n'impande, bicaye mu gishararagati bigaragara ko baje mu bukwe, hari umusaza n'umukecuru bose bambaye imikenyero, gusa umusaza yambaye n'ingofero baha abasaza mu gihe cy'ubukwe.

Icyumba kinini cyane kandi kigali, kirimo abantu babiri, kirimo umukobwa w'umuganga ndetse n'umudamu wasetse, wamwenyuye, yikenyeje agatambaro k'umukara ndetse hamwe n'amadarubindi mu maso, yicaye ku kagare.

Umukecuru uri mu nyubako nini cyane iteye amarangi, gusa arashaje cyane, yambaye amadarubindi y'umutuku, afite imvi nyinshi cyane n'umusatsi mwinshi cyane, yipfutse ku mazuru, ari kumva impumuro y'umuti afite mu ntoki niba uhura n'ibyo ashaka.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye baturutse hirya no hino, by'umwihariko ni urubyiruko baricaye ndetse bicaranyemo n'abantu bakuru, barimo barabaganiriza kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Bicaye munsi y'igiti kandi nyuma yaho hari izindi nzu impande.

Urugo runini cyane rugizwe n'abantu batatu, harimo umukobwa wambaye iherena ry'umweru, yambaye n'agapira k'umweru, umukecuru na we ari hagati afite imboga kandi umukobwa na we afite imyuko, hari n'umusore wambaye umupira w'umutuku ufite isahani iriho imigati, imbere yabo hari ameza yuzuyeho ibyo kurya.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu babiri, kirimo umugore wicaye wambaye amadarubindi, yambaye ikanzu y'umutuku ndetse yiteza igitambaro mu mutwe, hari umuganga amuhagaze iruhande bigaragarara ko ari kumugira inama.

Abadamu bameze neza cyane, baje mu birori bari kubyina, bambaye impuzankano, gusa bamwe bambaye imyeru n'imikara, abandi bambaye amakanzu, bigaragarare ko barimo bishimye, gusa bose udupfukamunwa batumanuye, hari n'abambaye ingofero z'urugara.

Inyubako iri ahantu heza cyane, hari abakobwa babiri ndetse n'abasore babiri, bafite udukingirizo ndetse harimo baratwereka uburyo udukingirizo dukoreshwamo, kandi n'uburyo twakirinda mu gihe turi gukora imibonano mpuzabitsina.

Icyapa kiri ahantu heza cyanditse mu mabara atandukanye, cyanditse ku ibara ry'ubururu kandi amagambo yacyo yanditse mu ibara ry'umweru, ritanga umurongo wo kwirinda icyorezo cya sida hano mu Rwanda n'uburyo twatayandura.

Ahantu heza cyane ku mazi harimo ubwato ndetse harimo n'icyapa cyanditseho murakaza neza ku buvuzi bugendanye n'abagore, cyatangiye ku itariki zirindwi kugeza ku munani bibiri na makumyabiri na gatanu ku nkunga ya Kanada ndetse na vaka.

Icyumba kinini cyane cyateraniyemo abantu b'ingeri zose baturutse hirya no hino, hari umugabo uhagaze ari kubabwira ndetse hari n'undi wicaye imbere ya mudasobwa, hari undi mugabo nanone wifashe kubwana mubigaragara ko yumiwe.

Ahantu ku kibuga cy'indege hari abaganga babiri ndetse n'abakorerabushake batatu, hari umuntu uryamye urembye umeze nabi bari kumugarurira ubuzima, bari kumutiza umwuka kugira ngo barebe ko yagarura ubuzima.

Inyubako nini cyane yakira abantu batandukanye baje gushaka serivisi zubuvuzi hari umukecuru yatanze agatoki ngo bamufate amaraso ndetse hari n'undi mugabo, muganga nawe ari kwitaho kugira ngo amufate amaraso mu rutoki abandi barahagaze ndetse hari n'umukorerabushake ku ruhande uri kubareba.

Inyubako ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi, hari abaganga bane bari kwita ku murwayi umeze nabi urembye, bambaye ibintu mu mutwe ndetse bipfutse n'amazuru, bari kumutiza umwuka kugira ngo barebe ko bagarura ubuzima bwe.

Ahantu hari abantu benshi batandukanye bahagaze ku murongo, harimo abagore n'abagabo ndetse n'abazungu, imbere yabo hari ibigo byanitse, bari kubireba gusa bari gufata amashusho kugira ngo baze kuyohereza ku wabatumye.

Icyumba cyiza cyane kirimo abaganga bambaye amashashi y'umweru ndetse bipfutse mu maso n'udupfukamunwa, hari n'undi musore bari inyuma ndetse n'igitanda wambaye nawe agapfukamunwa barahagaze bose bigaragara ko bari kwirinda indwara ikomeye cyane.

Icyumba cyiza cyane kirimo umudamu wambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero n'itaburiya y'umweru wafunze igipfunsi, hirya ye handitse ko bagomba kongera imbaraga mu buvuzi, ubwo birumvikana ko ari muganga.

Icyapa kiri ahantu heza cyane cyanditseho uburyo twakirinda kanseri, by'umwihariko tugabanya ibiro ndetse n'umubyibuho, kubera ko bishobora kuba byatera kanseri y'ubuhumekero, kanseri y'ibere, ndetse umuntu akaba yarwara n'impyiko.

Inzu nini cyane yicayemo urubyiruko baturutse impande n'impande, ruri kumwe n'abandi bantu bakuru bari kubigisha uburyo bakiteza imbere, hari umukobwa ufite udufuka tubiri, hari n'uducupa tubateretse iruhande ndetse hari n'umwe uri gufata amashusho kugira ngo urubyiruko rwiteze imbere.

Icyapa gishushanyijeho umutima mu ibara ry'umweru kandi cyanditsweho n'amagambo y'umweru, cyanditseho gatatu gusa icyo cyapa cyanditseho ko gitanga ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza by'abagannye iryo vuriro runaka.

Icyapa kinini cyane kigaragaza ibitaro by'intara, ibitaro by'akarere ndetse n'ikigo nderabuzima, kandi nanone hari ibitaro by'ibanze, hirya yaho hari ibigo bya primaire ndetse na secondaire, na telefoni z'abo bantu.

Icyapa kinini cyane kiri ku muhanda kigaragaza diyabete ndetse n'uburyo twayirinda, hari urutoki rw'umukobwa ndetse rwa muganga ruri kugaragaza uburyo twayirinda tukayigiraho amakuru ahagije, kugira tutazigera tuyirwara.

Icyapa cyanditse mumabara atandukanye amabara y'umutuku ndetse n'umweru cyana shushanyijweho umuganga uri gusobanurira abantu ibijyanye n'indwara n'uburyo bayirindamo.

Abana babanyeshuri bambaye za karavate kandi bicaranye n'umugabo wambaye ishati y'umweru kandi bari kurwanya ikibazo cyo mu mutwe, hano mu Rwanda uburyo barebamo cyakemuka.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi zitandukanye by'umwihariko serivisi z'ubuvuzi, harimo abaganga bambaye amataburiya ndetse banipfutse ku munwa no mu mutwe, hari ikintu barimo barakata kandi umurwayi wese uje hano babasha kumufasha agahabwa serivise akeneye.

Inyubako nini cyane kandi ngari, yahuje abayobozi batandukanye ndetse n'abaforomo muri rusange baje kumva inama y'umuyobozi wabo ndetse no gukora amasezerano y'ibijyanye n'imiti igiye kujya ikoreshwa mu bitaro.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse impande n'impande zitandukanye, bicaye ahantu mu nzu nini bari kumwe n'abagore batanu babicaye imbere, hari n'umugabo uri kubaza ibibazo by'uburyo ibintu byakorwa kugira ngo bakomeze batere imbere.

Icyapa kinini cyane yashushanyije n'abantu babiri gishunjemo umuganga n'umwana, umwana yambaye salomo gusa arishimye afite umusatsi w'umukara, muganga yamuteze amatwi, ngo yumve ibyo umwana amubwira, kugira ngo umwana akereraho kwiheba.

Inyubako nini cyane yateranyije abantu batandukanye, irimo ibikoresho bitandukanye, hari umukobwa uhagaze imbere y'abantu babiri, afite indangururamajwi, yambaye amadarubindi meza, yambaye ndetse n'ikanzu y'umweru ndetse n'ubururu, ku buryo ari kubagezaho ikiganiro cye, kandi bamuteze amatwi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kirimo amagambo H igipfunsi ndetse na R byanditseho ko ari imivurire ndetse y'abantu ba banyarwanda.

Inyubako ngari cyane yakiriye abantu batandukanye baturutse hirya no hino, baje kwaka serivisi zitandukanye, akenshi ndabona ari abagore ndetse n'abakecuru baje kwa muganga, baricaye bamwe barikinyeje abandi barasutse gusa abandi bambaye n'ingofero z'ubudodo, baje kwaka serivisi kugira ngo muganga abafashe ndetse babashe kugira ubuzima bwiza.

Icyapa kinini cyane gishushanyijeho umugore ndetse cyanditseho raporo yatanzwe ya kovide cumi n'icyenda, kandi igatangwa ku kigo gishinzwe ubuzima ku isi, kugira ngo kiyibyaze umusaruro ndetse kirebe n'uburyo abantu banduramo.

Inyubako yahuje abantu benshi batandukanye, bari gukora imirimo itandukanye, harimo abaganga bambaye udupfukamuwa ndetse n'amataburiya, abubatsi ndetse n'abakora amasuku kugira ngo bakomezeho, bagire isuku kandi bagire n'uburezi buhoraho.

Icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo ari mu cyongereza gusa icyo cyapa kiri ahantu kijya kumera nk'umubumbe w'isi handitseho amagambo menshi cyane avuga ko ari umunsi wo kurinda mpuzamahanga wo kurinda ibidukikije wabaye ku itariki makumyabiri n'esheshatu bibiri na makumyabiri na kane.

Inzu nini cyane, yakira abantu baturutse hirya no hino, umuryango wayo irakinguye, imbere yayo hateye imikindo, kandi yanditseho ko ari nzu ifasha abarwayi bo mu mutwe kugira ngo babashe kuvurwa bakire.

Inyubako nini cyane ariko yubatse mu buryo budasanzwe, kuko hejuru y'aho kuri purafo yubakishije imbaho zigiye zipfumaguye, bigaragara ko ari ahantu nanone ushobora kubika amakuru ku ntebe, ufite amakuruba araza akayacengezamo hanyuma bakazayashaka bakayabona.

Icyumba kinini cyane kirimo amatara y'ubwoko bwose ariko kirimo igikoresho gikomeye cyane kimwe gifite imiryango myinshi cyane igera kuri itanu, ibigaragara byose iki kintu kibitse ibikoresho byinshi bigendanye n'ubukorikori kugira ngo abubatsi bazabashe kubikoresha neza.

Inyubako nziza cyane, iri ahantu heza cyane, bigaragara ko ari inyubako y'ahantu hakorera imyitozo ngororamubiri, hariho tapi muri iyo nyubako, harimo n'ibikoresho abantu baje mu myitozo ngororamubiri bakoresha, iteye irangi ry'umweru, irasa neza cyane.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi irimo ibikoresho bitandukanye harimo ibitanda by'abarwayi, igitanda kimwe gisashishijwe amashuka y'umweru ikindi n’amashuka y'umukara kandi harimo na mudasobwa abaganga bifashisha kugira ngo babashe gufasha abarwayi.

Inyubako nini cyane irimo abantu batandukanye by'umwihariko abarwayi ndetse n'abaganga, n'abaganga batatu umuntu umwe bari kumufata ibizamini bari ku mupima umuvuduko w'amaraso. Muganga arahagaze afite ikaramu hari n'undi muganga uri kwandika ibiro by'undi murwayi umwicaye iruhande.

Inyubako nini cyane iri ahantu heza yubakishije irangi ry'umutuku, hari umuntu uri mu busitani bwayo hanze wunamye arimo aruhira ibirabyo kandi haparitse mo ipikipiki ifite na kasike, ku buryo umuntu uwo ari we wese aza kuhivuriza kanseri kandi agakira.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi zitandukanye, nta muntu urimo gusa hari intebe abantu iyo baje bazicaraho bagategereza ababafasha kugira ngo bahabwe serivisi bakeneye kandi nziza zigezweho.

inzu nini cyane n'ibikoresho bitandukanye gusa ni ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri umuntu uwo ari we wese yaza akabona igikoresho cye ntawevundiye undi buri wese akabasha kwitabwaho kandi akabona serivisi ikeneyewe.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi harimo ibitanda byinshi cyane by'abarwayi hari umukozi uri gukuropa kuri sima n'umuganga uhagaze ndetse hari n'umurwayi uryamye abaganga bari kumwitaho kugira ngo arebe ko ubuzima bwe bwaba bwiza.

Inyubako nini cyane irimo abantu batatu by'umwihariko, ni kwa muganga. Muganga yambaye ekuteri ndetse n'agapfukamunwa, ari kuvura umwana, umwana yazanye na se umwana yikuyemo ari kumureba ku mukondo ngo arebe icyo agwayeho, muganga yambaye ishati iteye ipasi imeme neza y'umweru.

Umugabo munini cyane wambaye isaaha uri mu nyubako nziza cyane, yambaye itaburiya y'umweru yicaye ku ntebe agaragara nkaho ari gutanga ikiganiro ari gusobanurira abantu uburyo ibikoresho bimuri iruhande bikoreshwa.

Inyubako nini cyane iteye neza ifite amarange y'umweru, harimo umukobwa wambaye impuzankano y'ubururu, ufite imisatsi myiza yayizinze kandi hari n'abandi badamu bambaye impuzankano z'umweru bahagaze, harimo n'uwambaye agapfukamunwa, hari undi mugabo uri hirya wambaye impuzankano urimo umweruru kugira ngo babashe gufasha abarwayi abagana.

Inyubako ziri ahantu heza cyane ziteye amarangi haparitse imodoka nziza cyane, hari n'abandi basore bameze neza, hari n'abandi bantu bari mu yindi nyubako, n'abandi bahagaze imbere y'imodoka. Umushoferi akaba ahagaze imbere y'imodoka agiye kuyitwara.

Inyubako nini cyane ikeye kandi isa neza, irimo ibikoresho byo kwa muganga n'umuganga umwe gusa, ntamurwayi urimo, harimo ibitanda by'abarwayi, harimo supanete ndetse n'amarido.

Inyubako nini cyane iganwa n'abantu benshi batandukanye gusa hari abantu bagera kuri bane aba mama n'abana babo n ikigo nderabuzima cya Shagasha ku buryo buri muturage wese ahagera akabasha kubona serivisi akeneye.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi zitandukanye by'umwihariko mu ubuvuzi, hari abarwayi babiri baryamye ku bitanda kandi hari n'abaganga babiri bari kubitaho, muganga umwe ari gufata amaraso mu rutoki, undi nawe ari gufata amaraso ku kuboko kugira ngo basuzume abarwayi bamenye neza icyo barwaye.

Inyubako nini cyane ifite sale nini aho bakirira abantu hanini gusa nta muntu n'umwe urimo, ariko amatara yayo yose arimo araka, ifite imiryango myinshi imwe irakinguye, indi irakinze umuryango yerekeranye buri muryango yegeranye n'undi gusa hari irindi bara ry'umutuku ririmo utamenya ikintu risobanuye kuko ritagaragara neza.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi zitandukanye ku buryo abantu bose baturuka hirya no hino baje gushaka izo serivisi, harimo ibikoresho by'imyitozo ngororamubiri ndetse harimo n'isaha igaragaza igihe ku buryo buri wese urushye aba yihaye gahunda yo kuvuga iminota aribukore yabona igeze agahita ahagarara.

Inyubako nini cyane irimo ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa na muganga harimo mudasobwa ikoreshwa na muganga kugira ngo abashe kureba indwara umurwayi arwaye amuvure neza ubundi akire.

Inyubako nini cyane irimo umuntu umwe urwaye birumvikana ko ari kwa muganga, yiyoroshe ishuka y'umweru iruhande rwe hari ibikoresho bya muganga, hari mudasobwa muganga ayikoresha ari kumusoza.

Ahantu hameze neza cyane mu busitani hari abantu batandukanye abazungu bashaje, abanyafurika bafite imvi ndetse n'abakiri inkumi n'abasore bari ku cyapa cy'ibitaro bya butaro aho bari kwifata amashusho kugira ngo barebe ko bameze neza.

Icyumba kinini cyane kirimo ibikoresho byo kwa muganga hari igitanda gisashweho amashuka y'umumweru hari akana k'agahinja karyamyeho muganga ari ku kitaho yambaye igitambaro cyo umweru mu mutwe bigaragara ko akana kamaze kuvuka.

Inyubako nini cyane iteye amarange y'umweru ndetse n'amabati yayo ateye amarange, hepfo yayo hari ikigega ndetse hari n'abagore babiri, umwe yambaye ishati y'umweru undi yikenyeje igitenge, ku ruhande rwabo harinditse icyapa cyanditseho ikigonderabuzima cya Matyazo.

Inyubako nini cyane nziza iri ahantu hadasanzwe hari umwana w'umukobwa uhagaze k'umuryango ndetse hirya hari n'indi nyubako nini, imbere yuwo mwana wumukobwa hameze neza cyane nta byatsi bihari kandi hameze nko kuri sima, ruguru yaho hari intebe bicaraho.

Inyubako nini cyane irimo umuganga afite ibikoresho by'abaganga aho ari kugatanda kabarwayi ari kureba ko umurwayi ameze neza cyangwako igitanda kitapfuye ngo arebe abagikora baze kugikora yambaye itaburiya y'umweru kandi afite ibikoresho byose byabugenewe.

Inyubako nini cyane iri ahantu hatuje hameze neza, hari ubusitani bumeze neza imbere y'ikiyaga cya Kivu, bigaragara ko ibyo ari byo byose buri wese ahakore ubukerarugendo.

Icyumba kinini cyane kiri ahantu hatuje kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga kirimo igitanda cy'umurwayi harimo kandi nanone umufariso w'umurwayi, harimo n'igikoresho umuganga yikoresha kugira ngo abashe kuvura, muganga akamwambika serumu ikabasha kumuganga.

Inyubako nini cyane ihererereye mu karere ka Huye, intara y'Amajyepfo ikorerwamo ubuvuzi, ni ibitaro bya Kabutare, aho hari abayobozi benshi bari kureba uburyo abarwayi bahabwa serivisi ngo barebe niba abaganga babikora neza cyangwa batabikora neza.

Inyubako nini cyane y'amagorofa atandukanye haparitse mu modoka z’ubwoko butandukanye imbangukiragutabara ndetse n'izisanzwe hari umugabo wambaye ingofero y’umukara n’umupira w’umutuku n’ipantaro y'umukara ari guhagarika imodoka ziri kuza zihuta kugirango zitagonga izindi.

Inyubako nini cyane yahuje abantu batandukanye bakora mu buvuzi ndetse hari umugabo uhahagaze imbere ari kubasobanurira uburyo twakirinda malariya, ubuzima bwacu bugakomeza bukagenda neza, si umugabo umwe, ni babiri umwe ari muri mudasobwa undi arahagaze yambaye ishati y'umweru.

Inyubako nini cyane kandi nyinshi zitandukanye z'amarangi y'ubwoko bwose, harimo ubusitani, harimo igiti, nta muntu n'umwe uriyo, gusa imiryango yayo irafunguye, bigaragara ko ari ahantu hihutirwa, umuntu aza urembye cyane ashobora kuyifashisha bakamufasha.

Inyubako nini cyane itangirwamo serivisi zitandukanye hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwaka serivisi bamwe baricaye abandi barahagaze gusa hari umwana bari kureba uri kuribwa mu nda ashobora kuba ari kubabara cyane.

Inyubako nziza cyane yakira abantu batandukanye baturutse hirya no hino, gusa iyo nyubako irimo ibitanda, irimo amarido, ndetse n'intebe, harimo muganga ndetse n'umurwayi uryamye gusa haragaragara amaguru ye, harimo ndetse n'utubati muganga akoresha avanamo ibikoresho kugirango abashe kuvura umurwayi.

Icyumba kimeze neza cyane kirimo ibikoresho bitandukanye, giteye amarangi y'umweru hariho n'ibishushanyo, kiriho abagore babiri gusa harimo intebe nziza zimifariso, hariho n'ameza, hari mudasobwa kandi harimo n'akabati gateretseho ibintu bimeze nk'imiti bigaragara ko ari mu biro by'umuntu ukoramo.

Inyubako nini cyane yakirirwamo abarwayi baturutse hirya no hino, iteye amarangi y'umweru kandi harimo intebe zicarwaho n'abarwayi, hashushanyijemo n'ijisho, ifite umuryango ukinguye, hari n'ibipurizo kandi nta muntu urimo. Umurwayi wese ubashije kugera hano babasha kumuvura kandi akitabwaho neza.

Icyumba kinini kirimo indorerwamo z'amaso kiganjemo amabara y'umutuku umweru ubururu n'umukara, gishushanyijemo umukobwa ufite imisatsi myinshi wambaye indorerwamo z'amaso.

Inyubako nini cyane iri ahantu heza cyane, iyo nyubako ikaba iherereye i Kanombe, igaragara ko ari inyubako y'ubucuruzi bw'imiti, hari abantu barimo imbere babiri baje gushaka imiti kandi bari buyibone bayitahane uko bashaka.

Inyubako nini cyane iri ahantu hameze neza, irimo ibikoresho by'amabara menshi atandukanye umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, ibyo bikoresho kandi ni intebe zicarwaho n'abantu bagannyenye muri ino nyubako kugira ngo babafashe batarinze guhagarara ahubwo bicaye.

Abakobwa bameze neza cyane bari ahantu heza cyane mu gashyamba kandi hatuje, bambaye impuzankano barishimye bari guseka, bambaye n'udutambaro tw'umweru mu mutwe, bigaragare ko ari abaganga bose.

Inyubako nini cyane, yakiriye abantu batandukanye bari hanze baje gushaka serivisi zitandukanye. Isakaje amabati meza cyane harimo umwe wambaye ingofero kandi harimo n' umudamu wikenyeye igitambaro mu mutwe.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivise zitandukanye aho abantu bose baza baje gushaka serivise, hari abantu babiri bari hanze na batatu bari mo imbere, umwe ari gukaraba bigaragaye ko bari kumubwira ngo akarabe intoki kandi zise neza.

Ahantu heza cyane harimo icyumba kirimo abantu batanu, harimo umugabo umwe muremure ubasumba bose, afite umusatsi watukuye bigaragara ko bari mu cyumba cya laboratwari, aho habikwa ibikoresho by'abakoreshwa n'abaganga.

Icyumba kinini cyane kirimo abagabo babiri bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'umweru, biragaragara ko bari kwa muganga ndetse muri icyo cyumba harimo igikoresho cyo kwa muganga bafatiramo ibizamini ndetse bakanareba uko ibizamini byaje bimeze mu gihe bamaze kuguso.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi zitandukanye, imbere yayo hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukama k'umweru, bigaragara ko hari serivisi yaje kubaka.

Inyubako iri ahantu heza cyane kandi nini ifite amatafari ahiye handitseho Africa, hanze yayo hari ubusitani bwiza cyane kandi hari n'urugo rwubakishije imbingo kugira ngo rubashe gukomera, hakurya yaho ikirere kimeze neza kiri gusu ubururu.

Ahantu heza cyane hari inyubako zitandukanye harimo n'imikindo harimo ubusitani bwiza cyane, izo nyubako zose zifite amarangi atandukanye hari n'iziteye amarangi y'umuhondo kandi ahagana hepfo hari aho bashyira imyanda bigaragara ko ari mu kigo cy'amashuri n'ubwo harimo abanyeshuri bake.

Inyubako nini cyane kandi ngari yakirirwamo abantu batandukanye, ifite inzugi nyinshi ndetse ifite n'amakaro hasi bigaragara ko ari inyubako yakira abantu benshi batandukanye. Ifite imiryango myinshi in inzugi zayo ziteye amarangi y'umutuku n'utwapa tw'umuhondo zarimo n'amakamera abasha kurera abantu binjiye muri iyo nyubako.

Inzu nziza cyane iri ahantu hateye neza harimo umudamu wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'inkweto zifunguye, ari mu kintu kimeze nka lavabo iruhande rwe hari ameza ameze neza gusa uyu mubyeyi bigaragara ko muganga ari gukoraho babika ibikoresho aribyo arikovuga ngo ba abifate neza.

nyubako nini cyane yateraniyemo abantu baturutse hirya no hino barimo gushaka serivisi zitandukanye by'umwihariko z'ubuvuzi harimu umugabo uhagaze imbere wambaye ipantaro'umutuku inkweto z'umukara n'umupira w'umweru ndetse n'agapfukamunwa hari n'ahandi hantu hari abakobwa bahagaze ndetse hari n'umukobwa uhetse umwana hari umukobwa wicaye ku ruhande wambaye ikanzu y'umutuku n'agatambaro

Icyumba kinini cyane kirimo abantu batandukanye, hari umuhungu wambaye ingofero y'umukara ufite terefone mu ntoki, afite na kuteri mu ijosi, hari nundi mugabo uhagaze imbere ye hari abakobwa babiri, gusa ahagana ku ruhande hari undi mugore nawe uri waje kwaka serivisi, imbere yabo hari akameza gateretseho indabo.

Inyubako nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, harimo intebe abantu bicaramo, harimo n'utubati harimo ndetse n'isaha kandi umuntu ashobora kureba aho igihe kigeze, hanyuma akamenya icyo akora.

Inkwato nini cyane abone serivisi z'ubuvuvuzi hari umurwayi uryamye ku buriri bw'abarwayi yambaye ishati y'umweru cyane ku mashuka y'umweru ariko yishimye bigaragara ko abaganga bamwitayeho neza uko bikwiye.

Ahantu hari inyubako nini cyane igerekeranije n'amagorofa kandi hari n'abantu benshi baje bayigana baje gushaka serivise zitandukanye, harimo abagabo, abagore ndetse n'abandi benshi bashaka serivise zitandukanye muri iyi nyubako.

Inyubako nini cyane isize amarangi y'umweru yanditseho ko ari inyubako y'ubushakashatsi, mu imbere harimo intebe zimeze neza cyane zifite amabara y'umuhondo ndetse hariho n'ibirahuri inyuma ndetse hejuru hari purafo iriho amatara arimo araka.

Inyubako nini cyane yakira abantu batandukanye baturutse hirya no hino baje gushaka serivisi, ni ikigo nderabuzima cya Kanyinya, kirasakaye kimeze neza kandi ni amagorofa hirya ha hari amazi ziteye amarangi y'umweru buri muntu ikigana abona serivisi nziza.

Inyubako nini cyane yakira abantu batandukanye baturutse hirya no hino baje gushaka serivisi imbere yayo hari ibirabyo bimeze neza yubakishije amatafari ahiye kandi bigaragara ko ari inzu y'ababyeyi ku buryo umubyeyi wese ugize ikibazo aza abigana bakabasha kumufasha.

Inyubako nini cyane igaragara nk'aho ari kwa muganga, hari igitanda cy'umurwayi, ndetse harimo n'ibindi bikoresho byinshi cyane, buri gikuta kimwe gisize amarangi y'umweru, harimo n'utundi tuntu dufite amarangi y'umuhondo, kandi na none itara ririmo riraka cyane.

Icyumba kinini cyane cyakirirwamo n'uburwaye harimo abantu babirimo umuganga ndetse n'umwana urwaye, muganga yamwambitse igipima umuvuduko w'amaraso kugira abashe kumenya uko umuvuduko we umeze muganga kandi hirya ye hari ibindi bikoresho ari byifashishije kugirango abashe kuvura umurwayi.

Inzu ngari cyane y'ahakorerwamo serivisi zitandukanye irimo abantu babiri irimo umuganga ndetse n'umurwayi muganga yambaye itaburiya y'umweru n' umusore urimo yambaye umupira w'umweru ndetse n'ingofero y'umukara agapfukamunwa k'umukara muganga ari kumupima ibizamini kugirango abashe kumenya indwara arwaye neza

icyumba kinini cyane cyakirirwamo abantu batandukanye by'umwihariko abarwayi hari abaganga batatu umwe aricaye babiri barahagaze hari n'umurwayi uryamye ku gitanda bamutwikiriye muganga ari kumufasha kugira ngo abashe kubona ko yamukiza

Inyubako nini cyane irimo ibikoresho byinshi byo kwa muganga, hari abantu batanu bahagaze muganga yambaye itaburiya y'umweru afite uruhara, hari n'undi musore umuhagaze iruhande ndetse n'undi mugore n'undi muganga uhagaze imbere wambaye imyenda y'ubururu bahagaze imbere y'igitanda cy'abarwayi.

Ahantu hatuje kandi hameze neza, hari abadamu batatu ndetse n'umudamu umwe bigaragara ko ari muganga, yambaye ga mu ntoki ari kumwe n'abakecuru babiri, umwe yamwambitse igipima umuvuduko n'undi mukecuru yicaye ku ruhande kugira ngo arebe ko yabafasha ndetse akabagira n'inama ku buzima bwabo.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi zitandukanye, abasore ndetse n'inkumi bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, bafite ibyo kurya bagiye kwakira abashyitsi babagendereye kugira ngo bakomeze babiteho.

Inyubako nini cyane iteraniyemo abakobwa batandatu, bigaragara ko ari abaganga, bambaye impuzankano ndetse bambaye n'udupfukamuyuma, bigaragara ko bari kwirinda icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda kugira ngo kitazabazahaza.

Inyubako nziza cyane iri ahantu heza gusa imeze nk'ayo izengurutse hariho ibishushanyo by'abakobwa batatu umu umukobwa umwe n'umuzungu undi nawe ni umwirabura handitseho ko iyo uje kugura kimwe baza bakakongeza ikindi kimwe cy'ubuntu.

Inyubako nini cyane yakira abantu batandukanye baturutse hirya no hino harimo iintebe zitandukanye z'amabara yose umutuku ,umuhondo, ubururu icyatsi harimo kandi na mudasobwa ifasha muganga kwifashisha kureba ibibazo umurwayi afite.

Inyubako nini cyane yateraniyemo abantu benshi kandi ni inyubako igerekenyije iparitseho imodoka y'umweru, abantu baje gushaka serivisi baturutse impande n'impande kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bukomere.

Inyubako nini cyane yakira abantu baturutse hirya no hino bashaka serivisi zitandukanye, by'umwihariko serivisi z'abarwayi kuko harimo ibitanda by'abarwayi, harimo n'uburwayi uryamye ndetse harimo na muganga uri kumufasha, harimo kandi amarido y'ubururu harimo n'amashuka y'umweru, iruhande rw'umurwayi hari akabuni k'umweru, bigaragare ko umurwayi arembye kandi ameze nabi.

Inyubako nini cyane kuberazamo serivisi zitandukanye, nk'ubuvuzi, hari umugabo munini cyane waje kwivuza kwa muganga, aryamye ku bitanda by'abarwayi arimo serumu, ukuboko yagushyize ku musego wo kwisegura.

Inyubako nini cyane kandi igerekeranyije yubatse ahantu heza cyane hari ubusitani umuntu ashobora kwifatiramo ishusho hari abantu babiri bari mu muryango umwe n’umugore undi n'umugabo baje kwaka serivisi muri iyi nyubako kugira ngo bahabwe icyo bakeneye.

Icyumba kiza cyane kirimo ibikoresho bitandukanye by'umwihariko byo kwa muganga, harimo isaaha, harimo igitanda cy'abarwayi gifite amarangi y'umweru kandi nanone itara ririmo riraka, hejuru harimo kamera zicunga abantu binjiye mu nyubako kugira ngo hatagira icyo bangiza.

Inyubako irimo abagabo babiri, umwe ni umurwayi undi ni umuganga gusa hari n'icyapa cyanditseho irembo, muri iyo nyubako kandi harimo za kizimyamwoto ebyiri z'umutuku kandi muganga yambaye amadarubindi mu maso.

Inyubako nziza cyane kandi nini iri ahantu hateye neza hari umwuka mwiza, ikirere cyaho kiracya kirasa neza, inzu ababyeyi baza kubyariramo ndetse bakanisuzumishirizamo mu gihe bibaye ngombwa.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi yakiriye abantu benshi batandukanye baje kwivuza, akaba ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe buri muturage wese aza kwivuza ndetse akabona serivisi akeneye neza.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti. Iriho imiti itandukanye iri mu mabara kandi umurwayi wese yiganye abasha kubona ubufasha akeneye muri iryo duka.

Umugabo uri ahantu heza cyane yambaye isengeri y'icyatsi ndetse yamanitse amaboko, yambaye kandi n'igikomo ku kuboko, ari kwisuka amazi bigaragara ko aniwe kandi arimo arayisuka kugira ngo agarure intege.

Umusore uhagaze ahantu heza cyane yambaye agapira k'umweru yambaye koteri mu gutwi ari kunywa amazi bigaragara ko afite umudimu arikunywa amazi arasamye ariko ntabwo yasamye cyane, ari ahantu hateye ishema.

Icyumba kinini cyane kiryamyemo umukobwa muremure wambaye ipantaro y'umukara ndetse yambaye n'isengeri y'umukara aryamye hasi, imbere ye hari idirishya ndetse hasi harasa umweru, ukuguru kumwe yakuzamuye agufatisha amaboko ukundi arakurambura cyane, bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi zitandukanye by'umwihariko ni ubuvuzi, harimo umuganga w'umugabo ndetse ari kumwe n'umukobwa wambaye kora itari nini cyane bigaragara ko afite ikibazo mu ivi. Muganga ari kumukanda mu ivi ngo amubwire aho ababa ubundi abashe kumuvura.

Umukobwa utagaragara umutwe, uri ahantu heza cyane, yambaye imyenda y'umukara; isengeri ndetse n'ipantaro, afite igipima muvuduko ku kuboko kwe kw'ibumoso, ukundi kuboko kwe kw'iburyo kurazamuye, ari kunywa amazi.

Umwana w'umukobwa mwiza cyane uri ahantu heza, yambaye umupira w'umutuku afite amazi ari ku yanywa, afite imisatsi miremire y'umukara yambaye koteri mu matwi ukuboko kwe kw'iburyo kuriho akantu gafite amabara y'umutuku.

Ahantu heza cyane buri wese akunda gusohokera kandi agasohokerayo igihe arushye, ni abantu babiri, umwe niumuhungu undi ni umukobwa, bari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ya buri wese hari igikapu, gusa umuhungu yambaye supuresi y'umweru we aricaye kandi umukobwa we ari gukora imyitozo.

Abagabo babiri bari mu nzu nini cyane ukorwamo n'imyitozo ngororamubiri, umwe arapfukamye ateruye ibyumba bibiri mu maboko by'umuntu, undi arahagaze ari kumwerekera uburyo bikorwamo.

Inzu nini cyane yicayemo umukobwa wamanitse amaboko, yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umukara, yicaye ku buriri buriho amashuka ndetse n'imifariso bisegura kugira ngo basinzire neza.

Inyubako nini cyane irimo umukobwa ndetse n'umusore bari gukora imyitozo ngororamubiri, umukobwa yicaye umusore ari kumumasa, yambaye inkweto mu kuguru kumwe ukundi yayikuyemo.

Umukobwa wicaye ahantu heza cyane afite furari y'umweru, yambaye isengeri ndetse yambaye n'urunigi mu ijosi, afite amazi arimo arayanywa kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza kuko amazi ni ingenzi mu buzima kandi amazi ni meza.

Inyubako nini cyane ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo abantu babiri. Harimo musore urimo gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isengeri, ndetse afite na tatuwaje ku kaboko ndetse n’ikabutura y’umukara irimo n’ amabara y’ umutuku. Ari kumwe n’umutoza we w’umukobwa wicaye uri kumureba, akamubwira ibya.

Inyubako irimo ibintu bitandukanye, irimo umudimu w’amazi ugaragara ko ari ibikoresho byinshi bikoreshwa mu kugororamubiri, harimo aliteri baterura bagira ngo imika y’amaboko irambuke. Ndetse harimo n’imbuto umuntu arya amaze gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo nka pome ndetse n’amacunda.

Ahantu heza cyane hari imbuto zitandukanye gusa hari n'umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri ukuguru kumwe gukandagiye kuri karote, inyuma ya karoti hari amashu ndetse n'indimu afite imitsi yireze mu kuguru ndetse no mu mpfundiko, yambaye agakabutura k'umukara ndetse n'agasengeri k'umweru harimo n'amabara y'umutuku n'umukara.

Icyumba kinini cyane kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa ku mubiri, amavuta y'abagabo, ay'abagore kugira ngo babashe kugira uruhu rwiza kandi rworoshye mu buzima bwabo, hariho n'ibikoresho byinshi bisiga ku munwa.

Umugabo wicaye ahantu heza cyane, yambaye imyenda bakora imyitozo ngororamubiri, aricaye arimo aranywa, imbere ye hari igikapu cy'umukara, kubera ko arushye, arimo araruhuka kugira ngo agarure ubuyanja.

Inyubako irimo ibikoresho bakoresha mu myitozo ngororamubiri irimo umusore wambaye supurese y'umweru n’isogisi y'umukara ndetse n'inkweto zifungishije rasi z'umweru, yambaye umupira w'umutuku ndetse n’ikabutura y'umukara iri mu ibara ry'umutuku.

Ibishushanyo by'umutwe kandi bidafite uruhu, ku buryo buri wese abasha kureba ibice bigize umutwe, akabibona akabisobanukirwa kugira ngo azabisobanurire abandi na bo babimenye.

Ahantu hatuje kandi heza cyane hari abagabo babiri umwe yambaye ga mu ntoki bigaragara ko ari umuzamu w'umukinnyi w'umupira undi nawe yambaye ikoti ry'umukara bigaragaragara ko ari umutoza ari kumuha agapapuro k'umweru.

Umugabo uri ahantu heza cyane, afite ubwanwa bukeya. Ahantu ari ni umweru afite umudimu w'amazi ari kureba hejuru, ari kwisuka amazi kugira ngo abashe kuruhuka kandi akomeze agire ubuzima bwiza, kuko ubuzima ni bwiza iyo unyoye amazi.

Inyubako nini cyane, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo abagabo babiri bafite imipira y'umukino witwa rugubi, kandi bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe yambaye ikabutura y'umukara, n'umupira w'umutuku, ndetse n'isaha ku kuboko.

Icyapa kinini kiri ahantu heza cyane hishushanyijeho umusore mwiza cyane uri gukora imyitozo ngororamubiri kandi bikaba ari inyungu gukora imyitozo ngororamubiri Kubera ko l bigabanya guhangayika kandi bigufasha no mu igogora ry'umubiri wawe bigabanya n'umuvuduko w'amaraso.

Umugabo munini cyane w'inzobe, ari mu nzu nini cyane yambaye isengeri y'umukara ikabutura y'umukara, bigaragara ko yaje gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we ugende neza.

Ahantu hameze neza cyane, hari igikoresho kimwe ariko n'ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri bigufasha aho umuntu ya abifashisha aterura kugira ngo agabanye inda nini kwa kuntu umuntu aba afite inda yabyimbye kandi ukishyura ibihumbi cumi na bibiri gusa ubundi ugakemura ikibazo cy'inda yawe.

Umukobwa umeze neza cyane ari gukora imyitozo ngororamubiri, ukuguru kumwe yakurambuye ukundi yaguhinnye ubundi arangije ajyana umutwe, yambaye imyenda y'umweru, ukuguru yaguhinnye amano ameze neza cyane, afite imisatsi y'umukara.

Inyubako nziza cyane irimo ibintu by'amabara atandukanye, harimo inkweto z'umweru, harimo utwuma tw'umuhondo, gusa nanone harimo ibindi bikoresho bikoreshwa mu guteka, harimo pavuro, ibitunguru, ingano, karoti, ndetse n'amatunda.

Icyumba cyiza cyane kirimo umukobwa wicaye ku buriri busashe neza afite igipfuko ku ivi yambaye umupira w'umutuku; agaragara nk'aho yakomeretse akajya kwa muganga akipfukisha.

Icyumba cyiza cyane, gitetsemo imiti myiza cyane, imiti ishobora guhagarika uburibwe igihe uri kubabara kandi ikakongerera imbaraga mu gihe wumva wazicitse.

Umugabo munini cyane winzobe wambaye isengeri y'umweru wicaye ahantu hatuje; afite umudimu ari kunywa amazi ararushye arimo araruhuka kugira ngo yongere kuza gutangira urugendo rwe.

Icyumba kigari cyane kirimo abantu babiri batandukanye. Kirimo umuganga uri kuvura umuntu yamufashe ku itako, arimo aramukandakanda kandi na none muganga yambaye itaburiya y'umweru, ari gufasha umurwayi kugira abashe kugirirwa neza kandi akire.

Inyubako nini cyane irimo umwana w'umuhungu wifashe ku kuboko afite inzara nziza z'umweru, yambaye ishati y'umweru bigaragara ko yakomeretse yapfutseho kugira ngo amaraso atakomeza kuza ari menshi gutyo bikaba byamuviramo urupfu.

Umugabo wicaye mu nzu iwe muri salon afite agatambaro bigaragara ko afite ikibazo ku ivi, yituye hasi arakomereka. Gusa ari gutangira amaraso kugira ngo amaraso adakomeza gusohoka akaza kumubana make kugeza ageze kwa muganga bakamufasha.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu babiri umwe araryamye yubitse inda yambaye akenda kagufiya, muganga nawe yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, ari gukanda ku maguru y'umurwayi kugira ngo agorore imitsi ye imere neza.

Ahantu h'umweru hari ibikoresho bishushanyije bitandukanye ibikoresho by'abantu, ukuguru ukuboko, umutwe, umukasi, imashini ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Icyapa kiri ahantu heza cyane cyanditseho repubulika y'u Rwanda, cya gisirikare kiri mu mabara atandukanye, amabara y'umuhondo y'umukara, ay'umweru bafatiramo imiti bisuzumishirizamo, bagiriramo abantu inama kandi kiriho n'ibirango by'igihugu cy'u Rwanda.

Umukobwa uri mu nzu nini cyane yakoraga imimyitozo ngororamubiri, aricaye ari gukora imyitozo yambaye isengeri y'ikigina ndetse n'ipantaro y'ikigina, yambaye ibirenge nta nkweto yambaye, arunamye asutse imisatsi, amaboko ye arayarambuye.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi hari abaganga bane bateraniye ku mudamu umwe bose bambaye udupfukamunwa, umudamu umeze nabi imbere hari ibyo kurya gusa arwaye kovide cumi n'icyenda bari kumubwira uburyo yayirinda.

Icyumba kimeze neza cyane giteretsemo teremosi ndetse harimo n'umuntu ufite teremosi ari gusuka amazi cyangwa ibyo kunywa mu kirahure, kugirango abashe kubiha umuntu abinywe abashe kumererwa neza.

Inyubako iteretsemo imiti itandukanye kandi myiza, iri mu mabara atandukanye, iri mu icupa, hari imiti irinda uburibwe ndetse iri mu mabara y'umweru n'umutuku ku buryo umurwayi uwo ari we wese yaza akayishaka akayibona.

Ahantu heza cyane mu nzu nziza cyane irimo ibintu bitandukanye, harimo imiti isize amabara atandukanye ndetse harimo n'amavuta y'abakobwa yo kwisiga, ku buryo buri wese uje gushaka icyo ashaka hano akibonamo bitamugoye.

Umusore uri ahantu hijimye cyane ntabwo ari kugaragara neza gusa hari ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, yambaye agapantaro k'umukara n'inkweto z'umukara ukuboko kumwe kuri hasi ukundi kuri ku ivi, ukuguru kumwe kuramanuye, ukundi kurahimye kuri mbere y'ukundi bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Abagabo babiri bari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, umwe araryamye ku gitanda undi aricaye yambaye ingofero y'umukara kandi uwuryamye ku gitanda yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umutuku ndetse n'umupira w'umuhondo, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amagufwa yabo akomere.

Icyumba kiza cyane giteretsemo akantu kameze nk'intebe gahambiriyeho akantu kameze nk'igikapu cy'ubururu, iruhande rw'ako kantu kameze nk'intebe handitseho imibare, umubare wa mbere handitseho santimetero mirongo itandatu n'umunani, uwa kabiri santimetero mirongo ikenda n'imwe, uwa gatatu ni santimetero ijana n'imwe.

Icyumba kiza cyane kirimo abantu babiri batandukanye, harimo umukobwa usa naho yambaye ubusa, gusa yarambuye ukuguru kwe ari kumwe n'undi uri kumukanda ku matako, ashobora kuba afite ikibazo ku matako, ukuguru kwe yakurambuye kwishuka, muganga uri kumufasha yambaye imyenda y'umukara bigaragara nkaho ari kumfasha kugira ngo abashe gukira.

Inyubako nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, ku buryo buri wese iyo aje abasha kujya ku gikoresho cye, akagikoresha uko ashaka kandi mu mwanya uhagije.

Icyumba kigari cyane kandi kiza, kirimo umukobwa w'umuganga yambaye ga mu ntoki yambaye n'imyenda y'akazi, by'umwihariko arimo arambara agapfukamunwa imbere ye hari hamakaye ndetse na mudasobwa.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi z’ubuvuzi hari abagabo babiri bari kumwe n’umurwayi w’umugabo umeze nabi cyane aryamye ku buriri yarambitse umusaya ku kuboko bari kumugarurira umwuka kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza.

Umugabo w'umwirabura uri mu myitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, gusa afite ikibazo mu ivi arapfukamye ari kureba ivi niba hari ikibazo ryagize, kugira ngo abashe kwiyitaho.

Ahantu heza cyane hari umukobwa wicaye ari kunywa amazi afite furari mu ijosi y'umweru ntabwo afite umusatsi mwinshi, ikirere kimeze neza yamanitse ukuboko kandi yambaye n'urunigi mu ijosi, ameze neza cyane nta kibazo afite.

Inyubako nini cyane irimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru kandi afite n'igikureti kijyamo amadarubindi bigaragara ko ari muganga w'amaso, hari umurwayi ayazane kugira ngo age abasha kubano neza.

Icyumba kimeze neza cyane hari umugore w'umwirabura umeze neza, yambaye impeta mu rutoki afite n'ikindi kintu ari kwikanda ku kuboko, bigaragare ko afite ikibazo cy'ubugwayi ku kuboko yatezeho kugira ngo atagumya kubabara cyangwa amaraso akagumya kuva ari menshi.

Umukobwa uri ahantu heza cyane ufite imisatsi myinshi afite akantu ko gupima umuvuduko yambaye ekuteri, arimo aranywa amazi, yambaye ikanzu nziza cyane kandi amagufwa ye ndetse n'ijosi bye byose biragaragara.

Ni inyubako iteye neza iri ahantu henshi yahuje abantu benshi, ariko by'umwihariko harimo umuntu urwaye uryamye ku buriri bamuziritse imishumi myinshi cyane abandi barahagaze bari gushungera bareba, aryamye ku buriri busa neza cyane, hari n'undi uri kumufata ku maguru kugira ngo abashe kumurambura neza.

Icyumba kinini cyane kandi kirimo abantu bane, harimo umuganga arimo arakura umwana muto iryinyo, hari n'abandi babiri bahagaze. Umukobwa yambaye agapfukanwa k'umukara, hari n numugabo wambaye agapfukamunwa katari umukara.

Umusore uri ahantu hatangirwa serivisi zitandukanye yambaye imyenda ikoranwa imyitozo ngororamubiri yambaye ikoteri mu matwi yambaye sipurese y'umweru ndetse zifungishije rasi y'umukara.

Umugabo uri ahantu heza cyane hari ibara ry'umweru, yambaye isaha ku kuboko arunamye yambaye kandi ikabutura y'umweru, yafashe ku ivi bigaragara ko rifite ikibazo arimo ararikoraho kugira ngo ribashe gukira.

Umusore mwiza cyane, uri mu cyumba kimeze neza cyane, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara harimo n'akabara k'umweru, ivi yarihinnye ari kugenda arikanda kugira ngo yumve ko rimeze neza, yambaye impeta mu rutoki n'urukomo rw'umukara.

Umugabo w'umwirabura uri ahantu hatuje mu ishyamba ari kunywa amazi yambaye umupira w'umweru ahetse agakapu k'umuhondo mu mugongo bigaragare ko arushye cyane.

Umukobwa umeze neza uri ahantu heza cyane hatuje kumazi yambaye agasengeri k'umweru, yambaye ipantaro y'umukara ariko kureba hakurya mu kirere cyabaye umweru, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngorora mubiri, yamanitse amaboko hejuru mu kirere.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye hari umuganga ari kwandika ibyo bikoresho ,ibikoresho birimo amabara y’umutuku ,ay'icyatsi ,ay'umuhondo ,ay’ubururu ndetse hari n'imetero bakoresha bapima uburebure bw'umuntu.

Ahantu heza cyane hari umusore wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isaha ku ukuboko kw'ibumoso yambaye n'inkweto ukuguru kwe kuriho tatuwaje y'umutuku, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imikaya ye ikomeze imere neza.

Inzu nini cyane irimo umugore n'umugabo baje gukora imyitozo ngororamubiri. Umugabo aricaye ari gukora imyitozo ngororamubiri yateruye aritere hejuru, umugore nawe arahagaze arikureba uko umugabo abikora. Baje gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amagufa yabo akomere neza.

Ahantu h'umukara hijimye cyane hari ukuguru gushushanyijeho ibintu bitandukanye, bishushanyijeho amabara atandukanye hariho ibara ry'umutuku n'ibara ry'ikigina bigaragare ko umuntu adakoza hasi agatsinsino, asa naho agiye gusimbuka gusa imitsi y'amano ye yireze.

Umukobwa uri ahantu heza cyane hakorerwa imyitozo ngororamubiri yambaye agasengeri ndetse n'ipantaro imufashe cyane, yambaye ibirenge afite umusatsi mwinshi arunamye akoze ku mano ukuguru kumwe gukora hasi ukundi ntabwo akora hasi, harakora hasi agatsinsino gusa.

Inyubako nziza cyane irimo abantu benshi batandukanye, harimo uw'umuzungu ndetse n'uwihayimana, imbere yabo hari akana gatoya k'akahungu kicaye kamwenyuye, iruhande rwabo harunze ibintu byinshi, kandi hakurya hari intebe zibajwe mu mbaho, hari n'abandi badamu bicaye bigaragara ko baje kubafasha.

Umukobwa mwiza cyane, uri ahantu hameze neza, imbere ye hari intebe y'agatabureti, aricaye, yarunze amaguru, yafashe ku mano, ari ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, umusatsi we ntabwo ugaragara ndetse n'isura ye yo mu maso ntabwo igaragara, gusa ikigaragara cyo yafashe amano ye, ari kuyazamura, arikureba

Umugore n'umugabo b'abazungu bicaye ahantu hameze neza, buri wese ari kunywa amazi gusa ntabwo barebana bateranye imigongo, ikirere kirasa umweru, amazi arasa umweru, ibintu byose bimeze neza.

Inyubako nini cyane irimo ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa na muganga, harimo akabati, harimo utwo bakoresha bihanaguza, harimo ibikoresho byinshi cyane bikoreshwa na muganga kugira ngo yite ku murwayi.

Icyapa kinini cyane kiri ahantu cyandikishije amabara atandukanye , amabara y'umweru ndetse amagambo yandikishije ibara ry'umukara , handitse ko ari icyapa cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso mu rwanda.

Mu nzu nini cyane isashe neza madamu ndetse n'akana ke gatoya bicaye ku buriri busashe hariho amashuka y'umweru, akana kari kumwe na nyina kambaye amasogisi y'umweru, nyina na we aricaye yakojeje amaboko hasi ari kureba ukuntu gaseka kandi barishimye cyane.

Ahantu hanini mu ishyamba rigari cyane, hari ibyatsi byinshi bitandukanye, ariko muri ibyo byatsi usangamo ibyatsi bikoreshwa mu miti gakondo, abantu babikoresha bivura ku buryo bashobora no kwivura indwara y'ibicurane, bakoresheje imiti i gakondo.

Ahantu heza cyane hari ibara ry'umukara, gusa hari n'akandi gakoresho gakoreshwa no kwa muganga, gafite ibara ry'umweru rinini ndetse n'indi ry'ubururu, kitwa serumu, kifashishwa mu gutera umurwayi kugira ngo abashe kugaburirwa, mu gihe adashoboye kurya.

Icyumba kinini cyane kirimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura bya gakondo, harimo imiti y'ubwoko bwose, hari utubindi dutoya, ndetse hari n'udusekuru duto cyane n'umuhini watwo, ku buryo umurwayi wese uje hano abona umuti yifuza.

Ahantu hateretse imiti y'ubwoko butandukanye iri no mu mabara atandukanye. Ibicupa birimo byinshi cyane biratandukanye kandi tumye amabara hari icupa riri mu mabara y'umutuku, umweru, wumuhondo ndetse n'umukara.

Ikirabyo giteye neza cyane kiri ahantu heza, kandi na none aho hantu hari voka ikasemo ibice bibiri, izo voka rero akaba arizo zifashishwa kugirango tubone isabune, dukaraba kugirango umubiri wacu ugumye usa neza.

Ahantu hateretse ibikoresho bitandukanye by'umwihariko harimo imbuto, harimo inanasi ndetse n'imineke n'ibindi bikoresho biri mu bikarito by'imyunyu, umuntu arabirya kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari umurima mwiza cyane w'icyayi, icyayi kimeze neza hari abadamu barimo barawusarura, umwe arahagaze abandi baricaye, barimo barasarura gusa baripfutse mu mutwe ntabwo bagaragara ku buryo wabasha kubabona, hirya yaho hari ikindi cyayi gisa naho cyenda kuma, bigaragare ko cyeze bari kugisarura neza.

Umurima uteyemo icyayi cyiza cyane hanyuma umugore uri kugisarura abakozi bari kukikorera bakagishyira mu mifuka bakakikorera bakakijyana bakajya ku modoka ikabipakira nayo ikajya kubigurisha ahandi.

Ahantu heza cyane hari abantu benshi batandukanye hameze neza hari ibirabyo bite neza hari amazi atemba ku buryo buri wese yakwishimira kuyareba gusa nonene harijimye, hari abantu baje bameze nk'abakerarugendo baje kureba ibyiza bihatatse.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, imiti iri mu macupa niyiri mu tubuni. Kandi hari nanone imiti iri mu dukombe. Hari ikintu kizengutswe kimeze nk’inzoka kirambitse ku meza. Ku buryo buri wese yaza kwivuza bakamuha umuti akeneye kandi mwiza.

Ahantu heza cyane hari amabara y'umweru kandi hateretse ibikombe bibiri by'umweru birimo umutobe ndetse birimo n'indabo, bigaragara ko ari umuti gakondo bagiye guha umuntu ufite ikibazo kugirango ngo abashe kumererwa neza.

Icyumba cyiza kiri ahantu heza harimo imiti ndetse hari n'ibishushanyo bibiri by'umugore n'umugabo, hari icyapa cyanditseho ko ari ibisubizo ku muryango, iyo miti kandi ivura abantu bafite ikibazo cyo kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro n'ingaruka zo kwikinisha ku buryo buri wese uhagannye abasha kubona umuti akeneye.

Ameza ateretseho imiti gakondo, iyo miti iri mudusorori ariko utwo dusorori ntabwo tungana, hari umuntu ufite ikiganza kirimo imiti arimo arayisuzuma kugirango arebe niba imeze neza.

Ameza ateretse umuti gakondo, umuti bawuvangavangiye mu isirori kandi nanone uri ku giheko bagiye kuwuha umurwayi kugira ngo umurwayi awunywe arebe ko abasha kumererwa neza mu gihe

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubucuruzi butandukanye by'umwihariko ubucuruzi bw'imiti gakondo, aho hari imiti ukoresha nk'amavuta uri kuyisiga ndetse hakazana n'imiti ukoresha nk'isabune mu gihe uri kuyisiga ikaba yagufasha kukuvura.

Ahantu heza cyane hari imiti ya gakondo itandukanye, aho hari imiti yitwa areriji iri mu gicupa gifite amabara y'umutuku, hakaza n'undi muti ukoreshwa nk'isabune, ukaraba ugakira ndetse n'indi miti itandukanye.

Ahantu heza hameze neza hateretse amavuta yahindura isura yawe kandi nanone hari ibishushanyo by'abantu batandukanye abakobwa ndetse n'abasore bahinduje uruhu rwa bo kugira ngo uruhu rwa bo ruhore rusa neza kandi bari kugaragaza icyiza cy'ano mavuta kuyisiga byakumarira iki.

Abantu bahagaze ahantu mu murima harimo abagabo ndetse n'umugore umwe, gusa abagabo benshi bambaye impuzankano bahagaze imbere y'ibikakarubamba, basetse kandi barishimye bigaragara ko hari ikintu kibashimishije cyane kandi bari butahe bishimye.

Ahantu heza cyane hari imiti y'amoko atatu ariko itandukanye, iri mu bicupa bitatu, hari igicupa kimwe gifite ibara ry'umweru n'ubururu, hari n'ikindi gicupa gifite ibara ry'umutuku n'ikindi gicupa gifite ibara ry'umweru n'ubururu, ku buryo uza ugahitamo umuti wawe ushaka, ubundi ukavurwa ugakira.

Ahantu heza cyane hari imiti ya gakondo kandi y'ibyatsi hagati y'ibyo byatsi harimo isekuru ndetse n'umuhini kugira ngo babyifashishe basekura uwo muti hanyuma baze kuwuha murwayi akire.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi zitandukanye nko kuvura abantu, aho bakoresha imiti gakondo y'ibyatsi iri mu ducupa tw'umukara n'umutuku ndetse n'umweru ku buryo buri wese yahagana aje gushaka umuti uvumura.

Inzu nini cyane irimo imiti y'amoko atandukanye y'imiti yica dukoko twa Malariya, hari abantu baje kugura imiti, bigaragaye ko bakeneye kwica udukoko twa Malariya kugira ngo batazayitwara.

Ahantu mu ishyamba hari ibimera bitandukanye, gusa hari ikimera kimwe kigaragara icyo kimera cyifashishwa rero mu buvuzi gakondo, aho umuntu agifata akagenda akagica akajya akivuguta, ubundi agakira neza nta kibazo.

Ahantu heza mu ishyamba, hari umugore uri gushaka umuti wo kwivura, yambaye urugori mu mutwe, afite marete ku kuboko, afite n'umwitandiro w'umweru, yaje gushaka umuti gakondo kugira ngo abashe kwivura.

Inyubako nini cyane ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi, muganga yicaye ari gusuzuma ibizamini by'abantu, kugirango abashe kubaha ibizamini byabo bamenya indwara barwaye, kandi anabagira inama yo kwirinda izo ndwara.

Umukobwa uri guseka neza afite amenyo y'umweru imbere hari imiti y'amenyo uburoso ,amavuta ndetse n'ibindi byinshi.

Ishyamba rigari cyane ririmo ibyatsi bitandukanye, harimo n'ibyatsi by'imiti umuntu ashobora gukoresha yivura nk'inkorora, ibicurane kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Inyubako nini cyane irimo ibintu bitandukanye by'umwihariko ni ubucuruzi, hari ahari imboga, hari ahari amavuta yo kwisiga, ni ibyumba bigiye bitandukanye, kuva ku muryango wa mbere kugeza ku wa nyuma, hariho inyajwi zanditseho: A, B, C,D, E, F,G,H, I, J kugeza J ni ho bigarukiye. Ni ibicuruzwa rero bicuruzwa, ibyo ari byo byose ni mu isoko.

Inkoko iparitseho imiti y'ubwoko butandukanye ariko yimiti gakondo, e mu mabara atandukanye hari amacupa y'mweru, hari udupfundikizo tw'umutuku hari ibyatsi hari akanyundo ndetse n'udupfundikizo twinshi dutandukanye.